Abana batatu barahagaze barishimye. Bambaye imyenda y'ishuri ku ntoki zabo hari ibifuro by'isabune, imbere yabo hari imigezi itatu bigaragara ko bagiye gukaraba intoki.

Abagore babiri bacigatiye abana mu ntoki, umugore umwe yamba aga apfukawa k'ubururu afite n'umwana wambaye agapira k'umweru n'agapantaro k'ubururu yambaye n'isaha ndetse afite n'imisatsi y'umukara miremire ndetse afite n'amaherena ku matwi undi nawe yambaye isarubeti, yambaye n'apfuka munwa k'umukara ndetse nawe afite imitsi miremire myiza.

Abantu benshi batandukanye harimo abambaye utuntu mu ijosi tw'ubururu ndetse hari abambaye amashati y'imyeru, abandi baricaye abandi bahagaze inyuma yabo, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza ndetse imbere yabo hari umucaca mwiza.

Abantu batatu. Babiri babiri ni bakuru, imwe ni umwana. Abo bagore bakuru bafite imisatsi miremire, myiza ndetse uwo mwana umugore umwe asigagatiye undi akaba ari kumusuzuma kugirango ngo amuvure.

Umugore n'umugabo, umugabo afite ifoto iriho abana babiri, umwana w'umuhungu n'uw'umukobwa, iyo nyubako uruhande rumwe yubakishije amabuye atukura, urundi yubatse ineza iteyeho n'irangi ry'umweru n'amadirisha asize irangi ry'icyatsi, uwo mugore akenyeye igitenge yambaye n'agapira k'umweru.

Abana b'abahungu bane, barunamye ahantu mu mazi bari kuvoma amazi, hari abafite indobo z'ubururu n'iz'umweru, inyuma yabo hagaragara ko hari ibihuru by'ibiti bisa n'umweru.

Ababyeyi harimo n'abagabo bahagaze inyuma yabo babyeyi, barishimye cyane bari guseka, harimo abahetse abana harimo abakenyeye ibitenge n'abandi bambaye utujire dusa ubururu, inyuma yabo hari inzu zisize irange ry'umweru, umuhondo ndetse n'iry'umukara.

Abana bane bari ku mugezi, bari kuvoma amazi, inyuma hari umuntu uri kubafungurira ufite imisatsi miremire y'umukara, ariko ibindi bice byose ntago biri kugaragara usibye akaguru n'umutwe, hanyuma inyuma y'uwo muntu hari imodoka y'umweru. Abo bana bafite utudomora dutatu two bari kuvomesha.

Abagore basigatiye abana babo harimo abateze ibitenge bari barabikenyeye bigaragara ko baje gupimisha abana. Inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Abagore batari benshi bambaye imyenda itandukanye bari ahantu mu nzu barishimye cyane bari guseka, hejuru yabo hari agashushanyo k'inzu ndetse hariho n'urugi rw'umukara hariho n'ururabyo rw'ubururu.

Umugore n'umwana umugore arimo akarabya umwana intoki n'isabune, umugore yambaye agapfukawa ndetse yambaye n'umupira w'ubururu n'ijipo y'umuhondo, uwo mwana yambaye imyenda y'ishuri.

Abantu benshi bicaye mu cyumba bari mu mahugurwa, imbere yabo hari impapuro zanditseho ibyo bari kubahuguraho, bafite mu ntoki amakayi n'amakaramu, ni abagabo n'abagore, bicaye ku ntebe zisanzwe.

Umugore uri kuvoma amazi ku mugezi. Ari kuvomesha ijerekani. Uwo mugezi uriho imigezi itatu. Yambaye agapira gasa gusa n'umukara, karimo n'amabara y'umweru, yipfutse igitambaro cy'ubururu ndetse akenyeye n'igitenge cy'icyatsi.

Abagabo batandatu n'abagore babiri baricaye bakikije ameza, barimo kuganira, kuri ayo meza hari amasahani ateretseho udukombe ndetse biragaragara ko barimo baganira.

Umwana muto w'umukobwa wambaye utwenda tw'igitenge afite n'imisatsi iboshye, afite icupa arimo kuvoma amazi ku mugezi, inyuma ye hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Umugabo n'umwana muto bari gusuhuzanya bahana ibiganza, umugabo yambaye agapira k'umuhondo, umwana afite umusatsi udashokogoje, yambaye agashati k'ubururu, inyuma yabo hari abantu bashungereye higanjemo abana.

Abana benshi cyane bishimye bari kumwe n'umuntu wumugabo, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo y'ikinyarwanda harimo n'umwana wambaye agashati k'umutuku.

Abagore bateye agatebe mu mucaca bakaba bicaye bari kuganira, hariho undi mugore witeze igitambaro cy'umweru wambaye ishati y'umweru ni we uri kubaganiriza, hariho abafite akamarete mu ntoki ndetse n'abafite ibipapuro mu ntoki n'abandi bifubitse n'abandi biteze ibitenge.

Abana b'abakobwa batanu, bane barunamye umwe muri bohagaze bambaye impuzangano y'ishuri bose bari gukaraba k'umugezi uri imbere yabo inyuma yabo hari ibiti byindabo zitukura.

Abana benshi cyane bishimye buri wese azamuye amaboko inyuma yabo hari abagabo n'abagore abo bagabo n'abagore inyuma yabo hari inzu ifite inzugi z'ubururu ndetse n'amadirishya y'ubururu isize irangi ry'umweru ndetse hariho n'akandi gafoto k'ubururu karimo mu amagambo y'icyongereza.

Umwana ufite imisatsi irimo udusaro wambaye agapira k'umweru nyina aramusigatiye mugangaga arikumutera urushinge ku kaboko uwo mwana ari kureba cyane.

Ababyeyi benshi bicaye bacigatiye abana babo mu ntoki, biragaragara ko ababyeyi bicaye hasi. Umugabo wambaye umupira w'umuhondo arimo kubwira uwo mugore ngo amuhe umwana acigatiye.

Abagabo babiri bambaye imyenda isa y'ubururu, bambaye udupfukamunwa dusa ndetse bambaye n'ingofero, bari kuvura umugabo umwe wicaye yambaye aka gofero k'ubururu n' imyenda y'umukara kaba afite n'ubwanwa, inyuma yabo hari abantu b'abasore barimo babashungera.

Abana babiri, uri kubona ko bishimye, umwe ari kuvoma ku mugezi amazi, undi yambaye agapira k'umweru n'agapantaro k'umukara ndetse yambaye ibirenge, inyuma ye hari umucaca ndetse n'ibiti, arimo gufungurira undi amazi.

Abana benshi bunamye ku mugezi barishimye cyane, umwe wambaye agapira k'umweru ari kunywa amazi ku mugezi, abandi hariho uwambaye agashati k'icyatsi.

Abantu benshi b'abana bari kuvoma amazi ku mugezi, bamwe bazanye indobo abandi utudomoro tw'arindwi, abandi bazanye utudomoro tw'atatu, hariho umugabo uri kubafungurira umugezi yambaye agapira k'umweru kandi uwo mugezi ufite ahantu ho kuvomera habiri.

Abantu bicaye mu kidara cyubakishije ihema ry'amabara y'icyatsi n'umuhondo n'ubururu, giteye inkingi y'umuhondo. Imbere yabo hari icyapa gishushanyijeho abantu babiri, ndetse cyanditsweho n'amagambo mu rurimi rw'Icyongereza. Inyuma yabo hari ibiti byakuze; ndetse n'undi muntu uhahagaze kuri ibyo biti. Ndetse imbere yabo hahagaze umugore wambaye itaburiya y'umweru ndetse na mikoro n'igitabo mu ntoki.

Abantu bicaye mucyumba bambaye amakote yumukara abandi bambaye ayumweru ndetse hari abandi bicaye babareba batandatu harimo abagore n'abagabo inyuma yabo hari cyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo y'icyongereza hagati ya bantu hari imashini ifotora.

Igikoresho gikozwe nk'isahani kirambitseho inshinge zo kwa muganga ndetse n'imiti iri mu macupa yo kwa muganga.

Abantu benshi bicaye munzu bambaye imipira y'imyeru harimo abambaye ingofero z'imyeru bafite n'udukapu ku rutugu ndetse harimo na bambaye ingofero z'ingara

Abantu benshi harimo abagore n'abagabo barahagaze ku mirongo ibiri. Inyuma yabo hari icyapa k'ibara ry'ubururu n'iry'umweru muri iryo bara ry'umweru handitsemo amagambo y'icyongereza. Ahantu bahagaze harasa neza cyane kubutaka.

Abantu batari benshi cyane barahagaze, bamwe muri bo bicaye ku ntebe imbere y'abahagaze, inyuma yaho hari icyapa cy'ubururu, aho bantu bicaye hari amakaro y'umukara.

Abana batatu n'umugore umwe wambaye umupira w'umutuku ukenye n'igitenge, bari ku mugezi, umwana umwe ari gufungurira abandi amazi, bakajya baravoma, hasi y'aho bari kuvomera hateretse ikintu kimeze nk'isafuriya ndetse hariho n'akabuni.

Abagore n'abagabo baricaye bakoze ku uruziga, inyuma yabo hari amarido y'umukara ndetse hariho n'ibindi bintu bihateretse by'umweru, izo ntebe zifite udupine hasi, harimo umugore usa n'uhagaze wambaye agashati k'umuhondo ndetse afite n'imisatsi y'umukara myiza.

Umuganga wambaye itaburira y'umweru, yambaye n'amaherena ku matwi, afite umusatsi mwiza w'umukara, arimo gutera urushinge umwana mutoya ucigatiwe n'umubyeyi wambaye umupira w'ubururu, witeze igitenge mu mutwe, hagati yabo hari ameza ariho amakarito y'imiti ndetse munsi yayo meza harimo indobo.

Abantu bane baricaye ni abagore n'abagabo, umugore umwe afite mikoro ari kuganira na bagenzi be, abo bagore bafite imisatsi miremire, umwe n'imisatsi miremire y'umukara, undi ntabwo ari umukara cyane, barimo kwitegerezanya mu maso, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi.

Abantu benshi, harimo abagore n'abana, harimo n'umwana wifubitse igitenge ku rutugu, akaba ari kuvoma amajerekani y'amazi, inyuma ye hakaba hari abandi bana benshi bashungereye, ndetse n'umudamu ufite igitambaro mu ijosi cy'umweru.

Umubyeyi yicaye kwa muganga yambaye iribaya afite umusatsi mwiza w'umukara, asigaye umwana wambaye agapira k'umwemweru n'ingofero y'umuhondo umuganga wambaye imyenda y'akazi n'amaherena afite n'imisatsi iboshye arimo gutera gushge uwo mwana.

Abantu babiri bigaragara ko bari kwa muganga, umubyeyi asikatiye umwana yambaye ishati y'igitenge, umwana yambaye akagofero k'umuhondo, n'agapira k'umweru, muganga arimo guha uwo mwana igitonyanga mukanwa muganga nawe yambaye imyenda y'akazi n'amaherena ku matwi n'imisatsi myiza y'umukara.

Abana bane bahagaze ku mugezi, bafite ububuni bari kuvoma amazi, inyuma yabo hari umuntu wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru, uri kubafungurira amazi inyuma ye hari imodoka hari ishyamba rinini cyane ndetse n'ibitaka byinshi.

Umugore n'umugabo barahagaze, abandi bagore baricaye barikonsa abana, umugore acigatiye umwana ahagaze ari kumupimisha ku munzani ngo arebe ibiro afite.

Abantu bicaye b'ingeri zitandukanye harimo abagabo n'abagore harimo n'abahagaze. Iyo nzu ziteye irangi ry'umuhondo harimo n'amakosta hagati hari icyapa gishushanyijeho umuntu, munsi yacyo akaba arimo amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Abagore n'abagabo bahagaze neza bemye bamwe bafatanye ku rutugu harimo umwe wambaye ikanzu abandi bose bambaye amapantaro ,hejuru y'abo hari ijambo ry'icyongereza ryanditse ku nzu bahagaze ku muryango wayo ndetse hari n'ikindi cyapa gishushanyijeho umuntu ufite imisatsi y'umukara myiza ndetse.

Umwana uri kumugezi ari kuvoma amazi afite amapara ane, inyuma ye hari ibyatsi by'icyatsi kibisi ndetse ari ku muhanda banyuramo w'itaka.

Abagore batatu bari kwivomera. Umwe ari inyuma y'umugezi yambaye agapira k'umutuku n'agapfukawa, afite n'imisatsi myinshi. Abandi babiri barunamye, umwe ari kunywa amazi anywesha intoki. afite n'ipara yo kuvomeremo, n'undi nawe ari gukaraba intoki afite n'ipara yo kuvomeramo.

Abana babiri baricaye barishimye cyane, umwe azamuye ukuboko n'agatoke hejuru. Inyuma yabo hari ikibaho bigishirizaho. Bari mu nzu yubakishije amatafari, aho isakaje amabati ndetse imbere yabo harambitse ameza.

Umugore n'umugabo, umugabo ahagaze mu cyumba. Umugore yicaye ku meza arambitseho amacupa y'umweru. Imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa nyinshi zirenga imwe. Hariho n'ibyuma by'ubucuranzi n'intebe z'umukara. Ndetse hariho n'ibyapa hejuru yaho, biri mu mabara y'umweru n'icyatsi.

Abantu babiri bari kwa muganga, umwe ni umubyeyi wipfutse igitenge mu mutwe akaba yambaye n'ishati y'igitenge, asigatiye umwana, uwo mwana ararwaye, muganga arimo kumukora mu mutwe kandi uwo muganga yambaye ga mu ntoki ndetse n'imyenda y'akazi.

Abantu bicaye ku ntebe ari batatu bose ntabwo bicaye ku ntebe zegamirwa hari uwicaye ku ntebe itegamirwa, undi arahagaze ari gusuzuma umwana uzikatiwe n'umuntu wambaye umupira w'umweru n'igitambaro cy'umweru yiteze ndetse yambaye ipantaro y'umweru, undi ari gusoma ibintu mu gitabo.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu yanditse mu rurimi rw'icyongereza ndetse hejuru y'amagambo hari akantu gakozwe nk'ururabo k'ubururu.

Umwana muto wishimye cyane wambaye agapira k'umutuku, uri kugaragara igice cy'umutwe, n'amatwi, n'amaso, n'umunwa, n'amenyo, n'akaboko, ahandi hose ntabwo hari kugaragara. Ari kuvoma kumugezi umwe impandeye hariho n'undi mugezi uri kuza, inyuma ye hari ibyatsi.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bamwe bari mu kidara cyubakishije amahema y'umweru, abandi bari hanze bamwe baricaye abandi barahagaze. Impamde yaho hari inzu, hari n'ibiti ndetse hari n'imodoka.

Abantu benshi bari ku ivomero, ku mugezi yateretse ipara irimo kuvomwa. Hari abantu bari gushungera, barimo kuwitegereza, bari kureba. Higanjemo abana b'abahungu. Inyuma y'aho hari ishyamba.

Abagabo batatu, babiri barahagaze umwe aricaye, uwicaye yambaye n'akagofero k'abayisiramu inyuma ye hari utwana dutanu. Noneho inyuma yabo bagabo babiri bahagaze hari abandi bana babiri. Umugabo uhagaze yambaye n'akajire k'umukara n'agapira k'umutuku, undi yambaye ishati y'umweru.

Abantu benshi cyane harimo abagore n'abagabo bambaye neza cyane, bicaye ku ntebe abandi bicaye imbere yabo babareba higanjemo abagore, hejuru yabo hari icyapa cyanditseho amagambo mu rurimi rw'igiswahili ndetse hariho n'umuntu uri kugenda abafata amashusho n'amajwi.

Umwana muto uhagaze mu kigega ari kuvoma amazi, Ari kuvomesha agakombe gasa n'umweru, icyo kigega gifite ibara ry'umukara, inyuma ye hari inzu ituzuye neza yubakishije amatafari ya rukarakara.

Umugore n'umugabo barahagaze umugore yambaye Isaha afite n'umisatsi miremire y'umukara yambaye n'umupira w'icyatsi, imbere yabo hari ameza hariho amakarito y'icyatsi ndetse n'ay'ubururu, uwo umugabo nawe yambaye jile y'umukara inyuma yanditseho amagambo y'icyongereza yambaye n'indorerwamo z'amaso.

Abantu benshi bashungereye umuntu urikubandika mu gitabo, ari kugenda yandika umwe hariho undi mwana ufite icupa mu ntoki, ndetse ayo meza ari kwandikiraho hateretse amazi n'ibindi bitabo hariho n'undi uri kumufasha.

Abantu benshi baricaye bafite amakaye imbere yabo ndetse n'amazi, hari abantu batatu bari imbere yabo bari kubaganiriza, umwe afite mikoro icupa ry'amazi, undi afite mudasobwa n'icupa ry'amazi, undi nawe afite mikoro n'icupa ry'amazi.

Abantu benshi harimo abana ndetse n'abantu bakuru, harimo umwe wifubitse igitenge yambaye n'akajipo k'umutuku, hari amasafuriya ndetse n'ibikombe n'amasahani n'amajerekani n'amabasi yo kuvomeramo.

Abantu benshi batandukanye, harimo abagore, n'abagabo, harimo abifutse ibitambaro, harimo ababyiteze, noneho abantu bari kumurongo w'imbere, bafashe impapuro zanditseho amagambo, n'ikaramu.

Abantu benshi cyane, b'ingeri zitandukanye, harimo abagore n'abagabo n'abana, harimo umugore wambaye umupira w'ubururu, n'imyenda y'akazi. Arimo agenda atanga impapuro mu bantu, buri muntu amuha urwe.

Abantu batatu bari kuri robine babiri bari gufungurira umwe akavoma, yambaye ibirenge yambaye igitenge kirimo amabara y'umutuku n'umweru n'agasengeri yipfutse n'igitambaro ari kuvomena mu kibase kinini ndetse n'indobo, inyuma yaho hari igipangu ndetse n'igiti gifite amashami.

Abana b'abahungu n'ab'abakobwa bari ku mugezi bari kuvoma amazi, ndetse harimo n'umugabo, harimo umuhungu wambaye ikabutura y'umutuku n'agapira na bodaboda, inyuma yaho hari ibiti bisa nkaho hariho n'ibitare.

Abagabo n'abagore bambaye udupfukamuwa, bambaye amataburiya y'ubururu, ndetse abandi bambaye amakoti y'imikara, barahagaze bafite utuntu tw'icyatsi, tumeze nk'impapuro mu ntoki, impande yabo hari indabo z'icyatsi.

Abana babiri b'abahungu, umwana umwe yambaye ekuteri, afite ibinika mu ntoki, undi ari gukaraba n'isabune mu ndobo, inyuma yaho hari inzu idasize imanitseho n'igitenge ku rugi.

Abantu higanjemo abagore n'abana, barimo bavoma amazi mugezi. Haretse ibipara bitatu, inyuma y'umugezi hari umugore uri gufungura umugezi, ndetse ashungerewe n'abagore, n'abana benshi, inyuma yabo hari insina z'ibitoki ndetse n'ishyamba.

Ubusitani burimo indabo nziza, ubwo busitani mbere yabwo ari abagore bane, hari uwambaye ishati y'umweru yipfutse igitambaro cy'umukara n'umupira w'ingofero, abandi bakenyeye ibitenge, ndetse hariho n'ukifubitse wambaye agapira k'umweru hariho n'uwambaye ishati y'umutuku n'umupira n'igote ry' umutuku.

Umugore ukenyeye igitenge cy'umutuku kirimo amabara y'umweru make n'agasengeri n'igitambaro giteze mu mutwe, ari kuvoma amazi akoreshe indobo, inyuma kuri uwo mugezi ari kuvomaho hari abagore babiri bakenye ibitenge, umwe yambaye agasengeri k'umweru undi ni ak'ubururu barimo gukanda amazi kugira ngo aze.

Hanze ku kigo nderabuzima abaganga barishimye, bari gucurira, bari kubyina, barimo kuririmba bambaye imyenda y'akazi, imbere yabo hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'amataratara, inyuma yabo kandi hari inzu yanditseho n'amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse hari n'ibiti bibakikije.

Abagabo babiri bicaye bambaye amakote inyuma yabo hari icyapa cyanditseho minisitiri ofu helifu paburike ofu sawuzasitani. Bicaye muri hoteli, imbere yaho hari ibendera ry'igihugu, imbere kuri ayo ameza bicayeho y'umuhondo hateretse amazi ndetse n'impapuro n'amakayi barimo kwifashisha.

Abantu benshi bahagaze bambaye amashati y'ubururu, abandi bambaye amakote y'imikara ndetse n'indorerwamo z'amaso, inyuma yabo hari umuntu ufite pareye uri kubafotora.

Umwana wishimye cyane arimo gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe, yambaye agashati k'umweru n'igisarubeti cy'umukara, hejuru kuri iyo ndobo arimo gukarabiramo, hari isabune y'umweru. Inyuma ye hari inzu yukishije amatafari ahiye, hasi aho akandagiye hari amatafari ya rukarakara.

Abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo baricaye bakikije ameza, ayo meza arambitseho amasahani ateretse m’udukombe tw'umweru, ndetse imbere yabo harambitse impapuro hari n'abafite n'amakaramu.

Abantu benshi bahagaze bemye imbere y'inyubakoze isize irangi ry'ubururu, kuriyo nyubako hejuru handitseho ijambo ngo "Girubuzima", ndetse basa nk'abahagaze muri jaride.

Umugore arimo gukaraba kuri kandagira ukarabe iyo kandagira ukarabe ni akabido k'umweru batoboye uwo mugore ari mu muryango w'inzu ye iyo nzu ye ihomesheje umusenyi ntarange iteye.

Umugore ukenyeye igitenge cy'umutuku, yambaye agasengeri k'igitenge yipfutsa igitambaro, ari kuvoma amazi ari kuvomesha indobo, abandi bagore babiri bari kumufungurira amazi kugira ngo abone uko avoma, na bo bakenyeye ibitenge.

Umugore wazanye umwana mu nzu y'ivuriro, yicaranye na muganga asigatiye uwo mwana yambaye ubusa, muganga arimo kumusuzuma amukora mu kananwa, uwo mugore na we afashe umwana we mu mpanga, impande yaho hari ameza arambitseho amakayi ndetse n'udukombe na marete.

Umugore waje kuvuza umwana, umugore wiyambariye agatenge ke, akaba atunze umusatsi mucye uringaniye. Umwana yambaye agapira k'umweru nakagofero k'umutuku. Uwo muganga yambaye amahena ndetse n'imisatsi miremire, yambaye n'itaburiya. Arimo guha igitonyanga umwana.

Abantu b'igitsina gore n'igitsina gabo bari munsi y'igiti cy'umunyinya cyagandaye bafashe ku kirangantego cyanyanditsweho aya magambo umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, isuzumije turandure kanseri y'inkondo y'umura, inyuma yabo hari inzu nini cyane.

Umubyeyi w'umugore ufite igitambaro cy'umweru yambaye agapira k'umweru karimo n'amabara ajya gusa ubururu akenyeye igitenge ari kumwe n'abana benshi imbere ye hari amabasi hari n'ikidomoro ndetse hari n'amazu menshi.

Abana b'abahungu bane; umwe yambaye ikote ry'umukara ndetse ikabutura y'ubururu n'umupira w'umutuku afite n'inkoni mu ntoki, impande yari akavido k'umweru ,harabandi umwe ari gufungura amazi yateretse ipara ku mureko, abandi babiri bari kumushungera bari kumwitegereza inyuma yabo hari ibyatsi by'icyatsi kibisi.

Abagore n'abagabo barahagaze bemye, harimo abagore biteze ibitambaro hariho n'abatabyiteze, hariho abambaye imyenda y'ubururu n'abambaye imyenda y'umweru, impande yabo hari icyapa gishushanyijeho umuntu wambaye imyenda y'umweru ufite imisatsi miremire, ndetse hasi hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Ibiganza, nyirabyo ntabwo ari kugaragara, biri ku mugezi, biteze amazi, ariko ayo mazi ntabwo ari kwigera afatwamo, iyo robine, afite igihombo cy'umukara.

Abana b'abahungu n'ab'abakobwa bambaye impuzankano y'ishuri bafite indobo buri wese ahagaze ku mugezi we ari kuvoma buri mugezi igihe afite umugezi winyuma ndetse n'uw'imbere izo ndobo zisa umuhondo ndetse hari n'uwazanye akabuni inyuma yabo hari ibiti ndetse n'indabo nziza cyane.

Abana bambaye imipira y'imihondo, bari kugenda biruka bishimye, bambaye udupapuro mu mpanga zabo, bambaye n'udukomo bamwe muri bo tw'umuhondo.

Umukecuru wishimye cyane yicaye ku gatebe ka kinyarwanda atetse igikoma mu isafuriya kiri gucumbamo n'umwotsi, impande ye hari umufuniko w'iyo safuriya ndetse n'igikombe cy'ubururu n'icy'umukara biteretse hasi.

Umugore wicaye anezerewe cyane yishimye, atetse igikoma, kiri ku ziko ari kukivanga, yambariye agapfukamunwa munsi y' akananwa, ahetse umwana noneho undi mwana ari inyuma ye ndetse impande ye hateretse ibase.

Mu mpeshyi bicaye imbere yabo, hari ameza n'igitambaro cy'ubururu ndetse gifite n' ibara ry'umweru. bicaye ku ntebe zegamiye ndetse bene zaratse kumalete n'amacupa y'amazi. Umwe afite telefone muntoki bibone byiza.

Abana bishimye cyane bicaye, hariho uwasamye cyane akaba ari no kureba cyane, impande y'ahantu hicaye ntakindi kintu na kimwe gihari.

Umusaza aricaye hasi, yambaye umupira w'umutuku bamwambitse amapingu mu maboko ye uko ari abiri. Inyuma ye hari abantu benshi bamushagaye, yambaye n'agakabutura k'agakoboyi.

Umuntu wambaye ishwabari ufite umusatsi mwinshi wamereyeho, afite ibintu byinshi by'ibishwambagure, imyanda yose wagira ngo bayimurunzeho pe.

Abantu benshi bicaye mu nyubako nziza bafite imisatsi iringaniye, harimo n'abafite imisatsi miremire bambaye n'amakoboyi bicaye ku ntebe z'imituku zegamirwa.

Abagore batatu bicaye babiri bifubitse ibitenge bambaye amajipo y'umutuku n'umwana wicaye hagati yabo ndetse bicaranye n'abagabo babiri, umuryango w'inzu urakinguye hanyuma amadirishya yo arakinze, inyuma yabo hari ibiti.

Abantu icumi bahagaze ku murongo umwe, babiri nibo bambaye amakabutura, umwe yambaye ikabutura y'ubururu undi iy'umukara, abo bantu bafite utuntu mu ntoki bamwe dusa gusa nk'umutuku ndetse inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza, ndetse inyuma yabo hari indabyo ndende zakuze, inyuma yabo hari inzu igeretse itari yuzura.

Umuntu w'igitsinagore, yicaye ku kirago kizinze. Imbere ye hari igiti kinini cyane kibyibushye, cyanditseho amagambo y'icyongereza. Yambaye kamambiri zifite udushumi tw'umutuku.

Abantu benshi cyane bambaye imipira y'ubururu hejuru hasi bambaye amapantaro y'imikara harimo umwe wambaye ipantaro y'umweru nundi wambaye ipantaro igiye kuba umweru ariko atari umweru cyane harimo wambaye ishati y'umweru na karuvate ndetse bamwe bambaye amasupurese y'umukara ndetse ninkweto z'ingozi z'umu……..

Umuntu ukanuye ijisho rimwe, irindi ntabwo ari kugaragara, riri kuvamo marira, arababaye ndetse n'impanga ntabwo igaragara n'ibindi bice byose by'umubiri bye ntabwo birimo kugaragara.

Umugabo wicaye hagati y'umupine hasi ku itaka afite imisatsi, yambaye isengeri, yambaye ikabutura, impande ye hari abagabo babiri bambaye amapantaro y'imikara n'inkweto z'umukara, ariko ntabwo ibindi bice biri kugaragara ni amaguru yonyine yabo ari kugaragara.

Umugabo wicaye ku mukeka, ku maguru ye afashwe n'umugozi, akenye igitenge yambaye agapira k'ubururu karimo amabara y'umweru ndetse yambaye na gakomo ku maboko yifashe no mu mpanga ari kureba nk'umuntu ubabaye.

Umugore wikoreye igitebo kirimo ibijumba n'ibyatsi byabyo, afite isuka mu ntoki, bigaragara ko avuye gukura ibijumba, inyuma ye hari ururabyo rw'ibyatsi.

Amaboko abiri ahuye, hagati harimo akazeru k'ibara ry'umuhondo, gakikijwe n'ijambo ry'ibara ry'icyatsi ry'ikinyarwanda ryitwa wihogora, ndetse munsi yacyo hakaba hari ijambo ry'icyongereza.

Abagore bane bicaye ku ntebe yabo, impande yabo hari umugabo wicaye ku ntebe ye wenyine, yakuyemo inkweto, amaguru ayarambika hejuru y'inkweto, yambaye umupira w'ubururu harimo abagore bafite n'impapuro mu ntoki. Inyuma yabo hari insina, hari n'ibiti.

Umugabo wambaye imyenda y'incabari yacikaguritse ku maboko, ipantaro yasadutse, yambaye ibirenge, afite umusatsi udasokoje, ibyanwa byashokonkoye, afite imineke ibiri mu ntoki ari kugenda ararira mu nzira, inyuma ye hari guturuka imodoka n'umuntu uri kuri moto.

Abantu benshi cyane bambaye imyenda y'abapolisi abandi bambaye imyenda isanzwe hari abambaye amakanzu y'imyeru, amashati y'imyeru n'amapantaro y'imikara inyuma yabo hari ikirangantego ndetse hariho n'ikarita ya Afurika hari kandi amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Umuntu wicaye wambaye ubusa umubiri wose, afite umusatsi mukeya uringaniye, yicaye ahinye akaguru yakarambitseho ukuboko, imbere ye hari ibintu bisa n'umukara ndetse naho yicaye hasa n'umukara.

Umugore mwiza uri guseka neza yambaye agakote k'umukara, yambaye ikanzu y'umweru afite imisatsi myiza y'umukara ndetse yambaye n'amaherena.

Inyubako nziza cyane isize irange ry'umweru ndetse igeretse. Hanyuma hari ibyapa bibiri byose byanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza.

Umukecuru ushaje, wambaye urunigi mu ijosi, yiteze igitambaro cy'umweru afite n'amaherena ku matwi ndetse no hejuru y'ijisho, uri kubona ko ababaye, yambaye ubusa ahantu hose.

Umugore wicaye, wijimye gahoro, imisatsi ye iraboshye yambara urunigi mwi ijosi yambaye utwenda dutukura, hanyuma inyuma ye hari amavuta y'ubwoko bwinshi ndetse n'ibindi bicuruzwa.

Abantu babiri uw'igitsina gabo n'uw'igitsina gore, uw'igitsina gore yambaye isaha ku kaboko ndetse afite imisatsi myiza miremire, arimo guhoza undi mugabo uri kurira ndetse wifashe no mu gahanga.

Abagore babiri, umwe asigatiye umwana yambaye n'ikanzu y'igitenge n'agapira ndetse n'ingofero mu mutwe. Umugore wambaye agapira k'umweru ari kwereka uwo ufite umwana telefoni, ari kumwereka n'akandi kantu k'umweru afite mu ntoki.

Abantu baringaniye bicaye ku ntebe imbere yabo hicaye abandi bantu basa nkaho babayoboye barimo baganira, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo y'icyongereza izo ntebe ni intebe zegamirwa, kandi hari umucyeka w'icyatsi.

Abantu bicaye bambaye utuntu mu izosi tw'ubururu hari wambaye ni'shati y'umweru afite inzotsi miremire iboshye ndetse n'indorerwamo z'amaso, imbere hari amacupa y'amazi hari mudasobwa ndetse hariho n naabandi bantu benshi ari kumwe na hagati yabo hari ibintu bisa nk'umweru.

Umuntu w'umugore aricaye, yifashe mu mutwe, afite imisatsi myinshi y'umukara, myiza, yambaye ishati y'amaboko maremare, arubamye.

Umugore aricaye, akenyeye igitenge, yambaye inkweto za kamambiri zifite udushumi. Afite umusatsi muke uringaniye, yambaye n'umupira w'amaboko maremare. Yicaye ku ntebe isanzwe y'urubaho. Hejuru ye hari idirishya rikinguye ry'ibiti.

Abantu b'abagore batatu bicaye ku meza, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru afite na mikoro, ayo meza ateretseho amazi ndetse na terefone n'impapuro. Inyuma yabo hari icyapa cyantse amagambo y'icyongereza mu ibara ry'icyatsi.

Abantu bicaye ku ntebe z'imyeru harimo abagore bafite imisatsi miremire, abandi bafite imisatsi micye, bakaba bambaye n'udupfukamunwa. Imbere yabo hari intebe nyinshi batateye ngo bazicareho, ikindi aho hantu hari agacaca gake n'ibitaka.

Icyumba giteye irangi ry'umweru cyicayemo n'abantu benshi cyane, bicaye ku ntebe zegamirwa, imbere yabo hari umukobwa wambaye inkweto z'umutuku n'umupira w'umutuku, ufite imisatsi miremire yambaye n'ipantaro y'umukara ndetse n'umubyeyi ufite mikoro, ufite na marete mu ntoki wambaye n'ikanzu y'igitenge.

Abantu batatu baricaye, bose bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hari inzu z'ibirere za mugongobatemba ndetse hari n'amabati ahashinze arambuye, hari n'ibiti bike, ndetse bafite n'impapuro mu ntoki bamwe muri bo.

Umugore ubabaye cyane urikureba cyane yiteze igitambaro mu mutwe, bigaragara ko afite umujinya n'uburakari, inyuma ye harasa n'icyatsi.

Imodoka nini cyane y'umweru ifite amapine y'umukara avanzemo ibara ry'umweru, iri ahantu mu mucaca utari mwinshi, inyuma yaho hari ihema ryiza ririmo abantu benshi ndetse n'intebe nyinshi zigerekeranyije.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi barimo bishimye cyane bari no guseka, hari abafite telefoni mu ntoki ndetse buri wese afite ibendera ry'u Rwanda mu ntoki ararizamuye.

Amafoto ane arimo abantu benshi batandukanye, barimo bambaye imipira y'ubururu abandi bambaye imipira y'umukara, amapantaro y'amakoboyi y'imikara barimo gutera ibiti bifite n'amashami.

Kwa muganga mu cyumba babyarizamo ababyeyi, icyo cyumba gisize amarange y'umweru harimo ibyuma byinshi byifashishwa mu gihe bari kubyaza umubyeyi.

Abantu bane baricaye umwe afite imisatsi y'umukara myiza miremire yambaye agasengeri k'ubururu ,undi ni umuganga yambaye imyenda y'akazi na'agapfukamunwa afite n'imisatsi y'mukara myiza abandi bari ku meza bari kwandika imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi ndetse n'uturimo umutobe uturuka ku mbuga.

Abantu benshi batandukanye harimo abagore n'abagabo barishimye cyane, abagabo bambaye amakositimu abandi bambaye amashati y'imyeru nay'imikara, bose bazamuye buri wese intoki ebyiri ariko hari bamwe batazizamuye.

Abantu batanu inyuma yabo hari ikibaho cyanditseho amagambo y'icyongereza, abo bantu umugabo umwe wambaye umwambaro w'umweru nk'agapfukamunwa munsi y'akananwa, afashe umwana ku rutugu wambaye ishati y'icyatsi abandi barahagaze bari kumwitegereza.

Umukobwa mwiza ufite amenyo y'umweru imisatsi myiza miremire w'inzobe, imbere ye hari utuntu bashyira mu menyo kugira ngo bayarinde kwangirika, hari akaganza kari kumushyirira utwo tuntu mu menyo.

Icyumba kinini k'ibitaro, hasi hari amakaro y'umweru, harimo umugezi wo gukarabiraho intoki, harimo intebe, harimo ameza, ndetse harimo mudasobwa ziteretsemo kuri ayo meza.

Umugabo wishimye cyane, ufite umusatsi muke uringaniye yafashe urudodo arushyira mu menyo ye hagati, none ari kurukubishya amenyo. Yambaye n'agapira k'umweru.

Inzu nini cyane irimo amakaro y'umweru, iteye amarange y'umweru nziza, irimo intebe eshatu zegamirwa, hakaba harimo n'ameza ndetse n'utubati.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, uri guseka cyane arishimye, yafite urudodo rw'umweru arushyira hagati mu menyo hafi yo ku munwa. Afite umusatsi uringaniye uboshye, Impande ye hari undi muntu utarimo kugaragara neza agaragara igice kimwe.

Abana benshi bambaye impuzankano y'ishuri, bafite uburoso bari koza amenyo, buri mwana afite agakombe mu ntoki, hari abafite ak'icyatsi, hari n'ufite ak'ubururu.

Umuntu waje kwikuza amenyo kwa muganga. Arararamye, arasamye afite amenyo meza asa n'umweru, muganga yashyize ibyuma mu kanwa ke, arimo kumukura iryinyo. Uwo muganga yambaye imyenda y'akazi ndetse yambaye n'indorerwamo z'amaso.

Umugabo wicaye ku ntebe ifite udupine tune, wambaye itaburiya y'umweru, akaba yambaye n'agapira k'umuhondo imbere, impande ye hari igitanda cy'icyatsi ndetse hari na mudasobwa.

Umuntu wasamye cyane afite akantu mu kanwa, ako bambara kugira ngo barinde amenyo kwangirika, hagaragara intoki zonyine n'umunwa byonyine, ibindi bice byose ntago bigaragara.

Abantu batanu barahagaze, uw'agatandatu ntabwo ari kugaragara neza yambaye itaburiya y'umweru mu ipantaro y'umukara, harimo uwambaye itaburiya y'umweru uri guhereza umwana ikintu gisa n'umweru anambaye agashati k'icyatsi nyuma ye bari kumwitegereza, kandi nyuma yaho hari ikibaho cyanditseho n'ingwa.

Umubyeyi aryamye ku bitaro kwa muganga afite imisatsi myiza y'umukara, yaje kwikuza iryinyo muganga yambaye imyenda y'umweru, bigaragara ka ari iy'akazi n'agapfukamunwa ndetse n'amataratara arimo kumukura iryinyo ndetse mu kanwa k'uwo murwayi hajemo amaraso ndetse umuganga afite n'undi bari gufatanya.

Abagore babiri baricaye, barishimye, bafite imisatsi myiza, umwe yambaye agakote k'ubururu undi yambaye ak'umutuku, bose mo imbere bambariyemo udupira tw'umukara, bose bafite impapuro, umwe afite n'ikaramu, imbere yabo hateretse ameza ariho agasahani na terefoni n'uducupa tw'amazi.

Uw'igitsinagore wishimye, ufite amenyo meza y'umweru abengerana, intoki ebyiri zirebana, ziriho n'inzara zazo, igice cy'uyu muntu ntabwo kigaragara cyo hejuru, agaragara amenyo n'umutwe n'amatama n'amazuru ndetse n'ijosi byonyine.

Inzu nziza cyane ya etaje ndende iteye irange ry'umweru n'iry'icyatsi hari amagambo y'icyongereza yanditse kuri iyo nzu, iyo nzu ikikijwe na senyenge irimo n'indabo, imbere hakaba harimo umucaca.

Umuntu wambaye amaherena wambaye agasengeri k'umuhondo ufite imisatsi myiza miremire y'umukara arararamye ari kureba neza, muganga afite icyuma ari kumushyira mu menyo agiye kuyakura, umuganga ntago ari kugaragara usibye intoki zonyine ni zo ziri kugaragara.

Umugabo wicaye wishimye cyane, afite amenyo meza y'umweru, afite urudodo mu kanwa rw'umweru afatishije amaboko abiri ndetse umusatsi we ntabwo urimo kugaragara n'igice cye cyo guhera mu rukenyerero kugeza hasi ntabwo bigaragara.

Umugabo wicaye mu cyumba ku ntebe yegamiye yishimye cyane, yambaye ishati y'umweru ari kureba neza, afite n'imisatsi y'umukara ndetse mu bituza bye harambitse impapuro.

Umugabo wishimye cyane ari guseka amenyo yose ari kugaragara, afite akadodo k'umweru mu kanwa agafatishijeho amaboko ye yombi, ikindi afite agasatsi gakeya karinganiye.

Umugabo arasamye afite amenyo yo hejuru y'umweru yererana afite urudodo arushira hagati mu menyo ururimi rwe ruri kugaragara ndetse impanga ye n'umusatsi ntabwo biri kugaragara n'igice cyo guhera mu izozi cyose gusubiza hasi nacyo ntabwo kigaragara.

Umugore yambaye Isengeri yu'mweru arahumirije cyane afite imisatsi miremire y'umukara arishimye afite urudodo hagati y'amenyo rusa n'umweru ikindi biragaragara ko yishimye cyane akaba yambaye amaherena ku matwi.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru, w'inzobe, ufite imisatsi miremire myiza iri gukora mu maso, arimo koza amenyo ndetse ari kumwe n'undi muntu utarimo kugaragara neza.

Abantu babiri b'igitsina gore; umugore umwe ariteze igitambaro cy'umukara, yambaye n'indorerwamo z'amaso, barishimye cyane; ndetse uwo wundi afite imisatsi miremire y'umukara, ndetse yambaye n'imyenda y'ubururu. Bose ni inzobe, bari guseka.

Abantu babiri. Umugore n'umugabo. Umugore afite imisatsi miremire y'umukara myiza yambaye imyenda y'ubururu, umugabo yambaye agapira k'umweru akenyeje umukandara w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, umugabo afashe ku byuma, umugore we ari inyuma ye nawe afashe ku cyuma. Usibye yuko afatishije ukuboko kumwe.

Abantu babiri bicaye umwe ni umusaza, undi ni umugore, bafite imisatsi mwiza, bafite impapuro imbere yabo zirambitse ku meza, inyuma yabo hari intebe izegamirwa n'izitegamirwa ndetse inzu isize irangi ry'umweru.

Abantu bicaye umukobwa umwe yunamye afashe umugabo ku rutugu, umugabo yiyambaye akajire k'umukara ndetse n'agapira k'amaboko maremare k'umweru n'ikoboyi, baricaye barimo bareba neza bishimye, inyuma yabo hari abandi bantu bicaye.

Umukecuru n'umusaza ufite imvi umusaza yambaye amadarubindi, umusaza ari kwambika umukecuru impeta umukecuru yambaye n'isaha ku kaboko, uwo mukecuru yakuyemo amadarubindi ye arambika ku meza ndetse kuri ayo meza harambitse n'udukombe.

Inyubako nziza, irimo umugore n'umugabo, umugabo wambaye agapira k'ubururu n'agakabutura k'umukara, umugore akaba yambaye agapira k'umukara n'agapantaro k'umukara ndetse muri iyo nzu bakaba bahagazemo bafashe ku cyuma ndetse bakaba bose bunamye, ikindi hakaba hateretsemo n'indobo.

Umusaza n'umukecuru baricaye bari kuganira, umusaza afite ubwanwa bw'umweru, umukecuru afite umusatsi w'umweru n'undi w'umuhondo, yambaye n'urunijyi mu izosi, agapira k'ubururu. Umusaza arikwereka umukecuru amashusho kuri telefoni imbere yabo hagatse akarahure k'amazi ndetse n'amavuta, n'urupapuro umukecuru afashe mu ntoki.

Abantu batanu harimo n'umwana, umwe afite imisatsi myiza, yambaye umupira w'ubururu, ni umugabo, undi na we ni umugabo yambaye ishati y'amaboko maremare y'umukara, undi ni umwana yambaye agashati k'umweru, afite imisatsi myiza, arishimye, bose barishimye, undi yambaye agakanzu k'umweru, na we afite imisatsi myiza, undi na we afashe ku rutugu uwo bari kumwe, yambaye agapira k'umweru, afite imisatsi y'imyeru.

Abantu benshi bambaye imipira y'imituku, harimo n'abakecuru n'abana. Harimo umukecuru umwe ufite umusatsi w'umweru, undi witeze igitambaro, undi yiteye umushanana. Abandi bana bambaye amabodaboda barimo biruka, abo bakecuru bicumbye n'inkoni.

Abantu babiri barimo kuganirabyeyi ni ababyeyi bose .Umwe yambaye imyenda y'ibururu, imisatsi miremire y'imitukura.N' undi afite imisatsi miremire iringaniye ,ipantaro n' agapira karimo utubara tw'umweru n' umukara Ndetse yicaye mu igare ry'ababana n'ubumuga.

Abantu bane bari mu myitozo ngororamubiri bari kunyura ahantu muri kaburimbo impande yabo hateye indabyo nziza z'icyatsi ndende bambaye amapantaro ndetse n'udupira tw'ubururu.

Abantu bicaye mu mucaca, harimo umugore wambaye agashati k'umutuku witeze igitambaro, wambaye ijipo y'umweru, arimo kuboha igiteboakigezemo hagati yenda kukirangiza, abandi bantu barimo kumwitegereza harimo n'umugabo usigagatiye umwana.

Inyubako nziza cyane irimo n'amatara yicayemo umugabo n'umugore bari gusangira ku meza amwe, umugabo yambaye ishati y'umutuku ndetse afite n'imvi umutwe wose, yambaye n'agapira k'umukara ari gusangirira ku meza amwe n'umugore we baganira bishimye.

Bicaye bishimimye cyane bari guseka higanjemo abana, harimo umubyeyi wambaye isaha ndetse n'agakoma ku maboko yiteze igitambaro, yambaye ishati y'amaboko maremare ndetse yambaye n'ingutiya, abo bantu harimo n'uwambaye ingofero, abandi bafite imisatsi iringaniye.

Abantu babiri umugore n'umugabo, umugabo arunamye yambaye umupira w'umweru, afite n'imvi z'umweru, umugore ari kumukora mu mugongo, yambaye ikanzu y'ubururu ndetse afite n'imisatsi miremire y'umukara. Imbere yabo hari ikintu kibarambitse imbere, uwo umugabo akaba agifatishijeho ukuboko kandi uwo mugabo yambaye n'isaha.

Umukecuru ufite imvi afite mikoro yumutuku, yambaye agapira k'ubururu yiteye umushanana. Yambaye na gakomo mu kuboko kwe ndetse impande ye hari ameza. Imbere ye hari imodoka hari n'inzu ndetse n'ibiti byakuze ndetse n'umucaca mwiza. Ahagaze ahantu ku itaka.

Abagabo babiri batareshya, umwe yambaye umupira undi yambaye ishati, umwe yambaye ingofero undi ntayo yambaye, bose bambaye amapantaro n'inkweto, bari kugenda mu nzira bishimye, bakikijwe n'ibiti byinshi cyane byakuze ndetse bari kugendera ku mapave.

Umukecuru wipfutse igitambaro cy'umweru yambaye n'ishati y'umweru akenyeye igitenge gisa n'umuhondo kirimo n'amabara y'umukara, yicaye ahantu mu iyarara ry'ibintu byinshi, atetse inkono ipfundikije isafuriya ndetse atetse ku mashyiga asanzwe ya kinyarwanda.

Abantu babiri umuganga ndetse n'uwo ari kuvura, umuganga ufite imisatsi y'umukara wambaye n'iyenda y'akazi ndetse n'uwaje kwivuza yambaye umupira w'umweru, ni umusaza afite n'imvi yambaye n'amataratara.

Umuntu utari kugaragara ibice by'umubiri bye byose, usibye igice cyo guhera mu rukenyerero kugeza ku maguru kuko igice cyo hejuru ntabwo kiri kugaragara afashe akantu kameze nk'urwego inyuma ye hari intebe bicaraho.

Umugore n'umugabo umugabo yambaye ishati itukura, yambaye n'indorerwamo z'amaso arishimye cyane uwo mugabo, arimo kurya imboga ari kumwe n'umugore ufite imisatsi y'umukara myiza, yambaye isengeri y'umweru n'ishati y'umukara, bose barimo gusangira, imbere hateretse amazi n'udusahani dutatu.

Umukecuru yifashe ku munwa afite umusatsi mwinshi urimo n'imvi, yambaye indorerwamo, afite agakokome mu ntoki ari kunywa amazi ndetse yambaye n'agapira k'ubururu.

Abantu batandatu baricaye barishimye bararambirije, inyuma yabo hari indabo, harimo abambaye udupira tw'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umuhondo, bafite n'imisatsi myiza y'umukara.

Abagabo bicaye ku ntebe zegamirwa harimo abafite inkoni bambaye ingofero biteye ibitenge ndetse n'ibitambaro kandi amaguru yabo bayarambitse ahantu hameze nko kuri esikariye.

Abantu bicaye hasi abagore n'abagabo n'abasaza n'abakecuru, harimo umukecuru umwe wambaye ishati y'ubururu yipfutse igitambaro ari kuboha icyibo, bose bicaye barambirije bakoze uruziga.

Umubyeyi mwiza w’umu mama ari kumwe n’abana be babiri umwe arishimye cyane undi mwana we ntabwo yishimye afite n'akararabyo k'icyatsi mu ntoki bafite imisatsi myiza y’imikara bose bari ahantu mu nzu.

Umugore n'umugabo. Umugore wambaye taburiya y'umweru, ufite imisatsi myiza y'umukara aricaye, imbere ye hari ameza, arikumwe n'umugabo wambaye ishati ijya gusa n'umweru werurutse cyane, arimo kumusuzuma mu kaboko.

Umukecuru wishimye cyane yambaye ikanzu y'ubururu ni inzobe, yambaye amataratara afite n'amaherena ku matwi, afite umutsatsi w'umukara uvanzemo n'umweru ari kureba umugabo wicaye w'umusaza ufite ubwanwa bw'umweru n'umusatsi w'umukara wicaye ku ntebe nziza ari kunywa amazi.

Abantu babiri bishimye cyane bigaragara ko ari umwana na nyina, umwana imbereye ku meza y'umweru afite akantu gakozwe nk'isarori, noneho mama we ari gukeka imboga, ndetse n'inyanya n'imbuto byo gushyira muri ako kantu kameze nk'isarori.

Abagabo babiri bari kuganira, umugabo ari kugenda abaza muganga, muganga nawe akagenda amusobanurira, uwo mugabo arakuze ariko muganga we aracyari muto.

Umuntu uhagaze usa nubabaye cyane afite agakombe k'amazi mu ntoki yambaye agapira gasa gusa n'icyatsi inyuma yambaye ikoti kajya gusa n'umweru hanyuma imbere ye hari robine.

Abagore barimo gusoroma icyayi biteze ibitambaro bakaba bambaye bamwe imipira y'amaboko maremare.

Umugabo ucigatiye umwana; umwana afite umusatsi muke uringaniye yifiteye n' agapupe mu ntoki, uwo mugabo na we afite umusatsi muke uringaniye urimo n'imivi, umusaza yambaye ishati ijya gusa nk'ubururu arimo kurebana n'akana ke.

Umugabo n’ mugore barishimye cyane. Umugabo aryamye ku rutugu rw’umugore we, uwo mugabo afite imvi. Bafatanye bose se ku rutugu, umugore yiteze igitambaro cy’umutuku. Bose bambaye amakoti y’ imikara.

Abagore babiri, umwe afite akasatsi gake k'umweru, undi afite umusazi mwinshi muremure w'umukara, yambaye n'agapira k'umukara, ndetse afashe uwo wundi wambaye umupira muremure w'umukara uwo nguwo arimo guseka ndetse impande yabo hari amabati ashaje.

Umukecuru n'umusaza baricaye, umukecuru yambaye umushanana w'umweru n'urunigi mu josi, afite n'imvi, umusaza nawe yiteye umushanana yambaye n'ishati y'umweru, bose barishimye, inyuma yabo hari abantu benshi cyane batari kugaragara.

Umugore n'umugabo barimo kwiruka bavuye muri siporo, umugore afite imisatsi y'umweru ivanzemo n'umukara mucye, umugabobona afite agatsi gakeya bari kugenda bishimye bose bambaye amasaha ndetse igice cyabo bose kuva murukenyerero ntabwo kiri kugaragara.

Umugabo ukuze ufite imvi z'umweru, yambaye indorerwamo z'amaso, yambaye agakote k'umweru n'agashati k'ubururu, imbere ye hari ameza afite n'ikaramu n'ikayi ari kwandika.

Umugore n'umugabo, umugore yipfutse igitambaro cy'umukara, yambaye umupira w'umukara ndetse n'umweru, ari kumwe n'undi mugore ufite akantu k'umutuku mu ntoki, agafatishije amaboko abiri, yambaye agakote k'umweru ndetse n'ikanzu y'umweru.

Umuntu w'igitsina gore wicaye yishimye ku ntebe yegamirwa afite ikayi mu ntoki ndetse hari akantu yambaye k'ubururu mu ijosi, afite imisatsi miremire, yambaye n'indorerwamo z'amaso, hejuru ye hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu avuga ururimi rw'Icyongereza.

Ifoto irimo amabara menshi atandukanye, hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku akaba ari amagambo y'icyongereza, hariho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu nayo ari amagambo y'icyongereza ndetse hari n'ayanditse mu ibara ry'umuhondo mu tuzeru.

Abantu batari benshi, babiri bambaye amakanzu y'ubururu, bambaye n'ingofero mu mutwe n'udupfukamunwa. Hariho undi mugabo wicaye w'igikara, wambaye ingofero y'ubururu ndetse yambaye imyenda y'umukara barimo kumusuzuma mu kanwa. Nyuma yaho hari abandi bantu bahagaze bari kureba.

Ikirangantego kiri mu mabara y'umweru ndetse n'amabara y'ubururu ishushanyijemo ururabyo ndetse na gaseke, hepfo yacyo hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ndetse harimo n'umurongo utambitse.

Ifoto yanditseho amagambo y'icyongereza mu ibara ry'umweru, byandikwa mu ibara ry'ubururu, amagambo y'icyongereza yanditswe mu ibara ry'umutuku n'andi yanditswe ibara ry'umuhondo.

Ifoto y'abantu batandukanye abagore n'abagabo, abagore ni babiri n'abagabo ni batatu, barishimye cyane, hari amagambo agiye yanditse kuri bo y'icyongereza.

Urupapuro rwanditseho amagambo ngo exploiting public options of social health protection for refugees western and center africans, hashushanyijeho abantu, handitseho n'andi magambo menshi yanditswe mu bika ndetse n'andi magambo y'ubururu ari mu gika cyayo.

Abantu bicaye ku ntebe biganjemo bambaye amakoti y'imikara benshi, abandi bakaba bicaye imbere yabo hejuru yabo hari amafoto atandukanye y'abagore n'abagabo, impande y'ayo mafoto hagiye handitseho amagambo y'icyongereza.

Abantu benshi cyane bicaye, abandi bari imbere bambaye imikenyerero bateze amaboko, barimo gutamba bambaye nk'impuzankano.

Umukecuru wishimye yipfutse igitambaro cy'umutuku, arashaje cyane afite iminkanyari mu mu maso ndetse ijisho rimwe ripfukishije ikintu cy'umweru rimwe riri kureba.

Abantu batatu bambaye udupfukamun tw'icyatsi n'ingofero z'icyatsi, bambaye n'amataburiya y'icyatsi. Hariho na mudasobwa ebyiri ndetse inyuma yabo hariho n'indi mashini.

Umwana wishimye cyane wambaye agapira k'ubururu, inyuma ye hari indabyo zisa nk'umuhondo zifite n'akabara k'icyatsi, hejuru ye hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza ndetse hejuru ye hariho ikirangantego.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru n'umuhondo, hari umuntu ushushanyije mu nguni mu kaziga k'umuhondo, umuntu ari kugaragara ubwonko ndetse aho muri icyo cyapa, hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu benshi cyane bambaye imyenda y'imyeru hejuru, hasi bambaye umukara, imbere yabo bafite icyapa cy'igitambaro cyanditseho, twirinde kanseri y'ibere, tuyisuzumisha hakiri kare kuko kuko iravurwa igakira, inyuma y'aho hari ibiti byinshi bibakikije.

Umugore wambaye ishati y'ubururu, yambaye n'indorerwamo z'amaso, afite imisatsi myiza y'umukara miremire, yambaye amaherena ku matwi ye, imbere ye hari urupapuro r'umweru, rwanditseho amagambo y'Icyongereza.

Abantu bicaye bafite imisatsi miremire myiza y'umukara, bambaye amashati y'imyeru, bicaye ku ntebe z'imyeru, imbere hari umuntu urimo kubaganiriza, hariho n'igipapuro kiriho ifoto ndetse kiri ku rupapuro rutukura.

Abagore bicaye bishimye cyane bari kuganira bari guseka basigaye abana babasigatiye mu bitambaro byiza harimo ibyumweru, by'umukara, n'iby'umutuku batatu bariteze umwe ntabwo yiteze yambaye agapira k'umukara hejuru yabo hariho andi mafoto y'umubyeyi uri konsa na yundi mubyeyi n'muganga bari kuvura umwana.

Ifoto y'ibara ry'icyatsi harimo amagambo yanditsemo y'icyongereza mu nyuguti nkuru, hepfo hari umurongo uvunaguye wanditse mu ibara ry'umweru n'icyatsi ndetse hariho n'agatima k'umweru n'umubare gatatu.

Umugabo urambaraye mu mucaca ku gatapi k'ubururu, abandi bari impande ye barimo kumukanda ndetse barimo kumuvura bambaye udupfukamunwa, bari munsi y'igiti kandi.

Abantu benshi bishimye cyane bamanitse amaboko yabo, abandi barasutamye ndetse imbere yabo hari intebe z'umutuku n'ameza ateretseho amazi mu ducupa. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo y'icyongereza.

Abantu benshi bambaye amapantaro y'imikara y'amakoboyi harimo n'uwambaye ipantaro y'umutuku wambaye bodaboda bambaye n'imipira y'umweru, bafashe utuntu tune mu ntoki tujya gusa n'umutuku.

Abantu bane, batatu ni aba-masera; bambaye imyenda y'aba-masera y'umweru ndetse n'indi ijya gusa n'ubururu. Umugabo ari hagati yabo yambaye isaha, ishati y'umweru ndetse na karuvati. Hejuru yabo hari ibirangantego bitatu.

Umuntu waje kwivuza uri rwa muganga wambaye ishati y'ubururu yambaye n' agapfukawa umuganga uri kumuvura yambaye ingofero na we yambaye akapfukamunwa ndetse n'ishati y'umweru, ari kumuteru urushinge ku kaboko.

Abantu bicaye mu nzu nziza irimo amakara y'umweru, abicaye mu cyande cyo hepfo aruwicaye ku gatebe k'ubururu yambaye imikara hose, imbere ye hateretse agacupa k'amazi yicaranye n'undi wambaye ipantaro y'umweru ariko utari kugaragara ibice byo hejuru, ari kugaragara amaguru gusa. Hari bafure imbere yabo hariho n'undi uhagaze hagati wambaye agapira k'icyatsi.

Abantu b'abagore n'abagabo bicaye mu nzu bari mu nama, mu nzu bicayemo harimo sima ndetse iyi nzu iteye amarange y'imituku n'umuhondo.

Abantu babiri batari kugaragara neza, bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'udupfukamunwa, intoki zabo zirimo kugaragara ndetse n'udupfukamunwa turi kugaragara, bafite akantu k'umukara mu ntoki.

Imbere y'inzu nziza isize irange ry'umweru n'iry'umukara hari amapave ku miryango y'iyo nzu ari amabendera abiri.

Inzu nziza cyane isize irangi ry'umweru, mu imbere harimo mudasobwa, harimo intebe, harimo n'izindi mashini, ikindi kintu kirimo, harimo amakaro y'umweru.

Inzu nziza cyane isize irangi ry'umweru, yubakishije amabati y'ubururu, ifite ubusitani bunini cyane, hateyemo indabyo nziza zakuze, hari izindi nzu ziri impamde yayo ziyikikije.

Benshi bari munsi y'urutindo rw'inzu nziza ifite ibyumba byinshi. Abagore batatu bitaruye abandi, umwe ahagaze impande y'imodoka, abandi babiri bahagaze baganira. Impande y'aho bari kuganirira hari indabo z'umuhondo, ndetse n'igikuta cyubakishije amabuye.

Igitanda kinini cyo kwa muganga kiriho matora ndetse n'umusego gishasheho amashuka y'umweru. Muri icyo cyumba harimo mudasobwa harimo n'ibindi bikoresho byinshi byo kwa muganga.

Kwa muganga hari ibitanda bine biryamyeho abarwayi, ibitanda bibiri biriho amashuka y'umweru, ibindi bibiri biriho amashuka y'ubururu, kubitanda bibiri biryamyeho abantu bari kugaragara umutwe ndetse n'amaboko gusa ikindi hejuru yabo hamanitse inzitiramibu.

Inyubako y'amatafari ahiye, ndetse iyo nyubako inkingi zayo zisize irangi ry'umweru ndetse hari n'amagamba ahanditse mu rurimi rw'icyongereza. Hari indabo, ndetse hari n'uruzitiro ruhakikije rw'ibyuma.

Inzu nziza, bigaragara ko ari mu bitaro, hari ibitanda bitatu by'abarwayi, mudasobwa imashini, ndetse n'amarido y'umweru. Ikindi, hasi hari na sima.

Inzu nziza cyane umuryango umwe urarangaye undi urakinze. Impande y'iyo nzu hari indabo z'umuhondo ndende cyane. Hejuru kuri iyo nzu handitse mu rurimi rw'Icyongereza. Ndetse iyo nzu ifite n'amapave y'umweru.

Icyumba kigari cy'ivuriro harimo ibitanda batwararaho abarwayi, harimo mudasobwa ndetse harimo n'ibindi bikoresho kwa muganga bakoresha.

Umugabo uryamye mu bitaro kwa muganga, yambaye ipantaro y'ikoboyi n'amasogisi y'umweru ndetse yambaye n'agashati kajya gusa umweru n'agapfukamunwa k'umukara, aryamye arambirije muganga arimo kumusuzuma, muganga yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukawa k'ubururu, hirya ye hari undi muganga uri kuvura undi mugabo, umugabo nawe yambaye imyenda imwe.

Ikigo nderabuzima cya matyazo, cyubakishije amatafari ahiye, hari abantu bari guturuka mucyo kigo nderabuzima, hariho uwambawe ipantaro y'umukara n' umupira w'umweru, nyuma yaho hari ikigega, hari igice kimwe gisinze irangi ry' umweru kuri iryo vuriro ndetse hariho n'icyapa kirimo umubare w'umutuku n'umweru cyanditsemo amagambo y'ikinyarwanda nay' icyongereza ndetse nyuma yaho hari abantu.

Inyubako isize irangi ry'umuhondo ikindi gice akaba ari amatafari, ikaba ifite inzugi z'umukara ndetse n'ibirahure, imbere y'iyo nyubako hahagaze abagore ndetse n'abagabo, hariho umugore umwe ugaragara neza, wambaye agapira k'umutuku n'ijipo y'umukara, impande ye hicaye umugabo, undi mugabo.

Inzu y'amatafari ahiye idasize irange, handitseho ijambo mu mabara y'umuhondo, icyatsi n'umutuku nu'ubururu, ryitwa pediatric center. Iyo nzu ifite amadirishya y'ibirahure asize irange ry'umweru.

Inzu nziza cyane harimo itara riri kwaka, isize irangi ryumweru. Muri iyo nzu hashashemo umukeka wumukara harimo n'igitanda cyo kwa muganga. Harimo na kabati k'umuhondo n'ameza, ndetse kuri ayo ameza hari igitambaro cyumweru.

Inzu nziza cyane yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati asa n'ayo matafari ahiye, ndetse imbere yayo hari indabyo nziza, hari imihanda yinjira mu mucaca uhateye, ndetse imbere na none hari utundi tuyubako dufite ibyuma bisa n'umukara.

Icyumba kinini kirimo udutanda tw'abana harimo n'intebe, harimo mudasobwa, ndetse harimo n'ameza, intebe nyinshi zisa umutuku.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imiti myinshi iri mu makarito ndetse hagiye hagabanyijemo udupande twinshi cyane, buri gapande kagiye karimo ubwoko bw'imiti ukwayo.

Inzu ebyiri hagati hari ikidara kirimo abantu benshi, bigaragara ko abo bantu bari mu birori ndetse hanze yaho hari abaganga bambaye n'udupfukamuwa bari kumwe n'abandi bantu babaganiriza.

Abagore batatu bambaye amashati y'ubururu bikoze mu mifuka, bambaye ingofero z'imyeru, inyuma yabo hari ibiti by'amoko menshi bitandukanye, bahagaze hagati mu muhanda w'igitaka, impande yabo hari ubusitani bwiza burimo ibyatsi bitoshye.

Inzu nini yubatse neza irimo amokoro y'ubururu n'ay'umweru mo hagati muri iyo nzu hateretsemo imashini mudasobwa, matela n'amashuka n'ibindi bikoresho byo kwa muganga ndetse hariho n'intebe zifite udupine ahagana hasi.

Inzu nziza cyane, muri iyo nzu harimo ururabo rufite ibara ry'icyatsi,, rufite n'amababi, irimo amapave y'umweru isize irangi ry'umweru, ndetse amatara arimo kwaka.

Inzu nziza ibamo imiti harimo intebe ndetse n'ururabyo rumeze nk'urimo gatebo, hasi hari amakaroni y'umukara ndetse iyo nzu ifite inzugi z'ibirahuri.

Umuganga wunamye wambaye imyenda y'umweru ndetse n'utuntu two kurinda intoki kwandura ndetse ufite imisatsi y'imikara, w'inzobe, arimo kuvura umurwayi wa muganga.

Inzu nziza cyane igeretse y'ibirahure, imbere y'iyo nzu hari abantu benshi cyane barimo bagenda, harimo n'umugabo wambaye ishati ijya gusa n'umweru ufite n'ibitabo mu ntoki n'ipantaro y'umukara, ndetse inyuma y'iyo nzu hari ubusitani buteyemo indabyo.

Inzu nini cyane ya etage, isize amarangi y'umweru, ifite amakaro y'umweru hasi, hari icyapa ndetse n'inzira yerekera yo irimo amapave. Icyo cyapa cyanditseho AHF RWANDA county office.

Umugore yaje kuvuza umwana kwa muganga aramusigatiye, umugore yambaye ikanzu y'ubururu, afite imisatsi iboshye. Muganga arimo gusuzuma umwana yambaye imyenda y'akazi n'agapfukanwa ndetse n'indorerwamo za..

Inzu nziza cyane iriho ibyapa, icyapa kimwe gishushanyijeho ijisho, hariho n'amagambo ahanditse, haranditse ngo: "aho bavurira amaso". Ikindi cyapa haranditse ngo: "Gihundwe hosipital" ndetse hari n'ubusitani bw'indabo nziza cyane.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro yanditseho amagambo Shyira district hospital, iteye amarange y'umweru, ifite inzugi ziteye amarange y'imikara, isakaje amabati y'imituku ariho urutendezo rw'ubururu.

Abantu batatu bari mu cyumba, icyo cyumba kirimo irangi ry'umweru, babiri bicaye barebana undi arahagaze, uhagaze afite imisatsi miremire y'umukara yambaye n'imyenda y'akazi, uwicaye nawe afite imisatsi miremire myiza y'umukara, yambaye n'itabuririya y'umweru ndetse hari na mudasobwa.

Inzu nini cyane irimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo intebe, ameza, harimo mudasobwa, hasi hari amakaro y'umweru ndetse harimo n'imashini.

Inyubako nziza cyane muri iyo nyubako harimo mudasobwa, hakabamo intebe zifite amapine ane zitegamirwa, hakabamo n'ameza y'umukara n'andi meza y'umuhondo.

Inzu nini cyane ifite ibyumba byinshi isakaje amabati y'umutuku imbere y'iyo nzu hari imbuga nziza hari n'imodoka ntoya ndetse na moto ndetse hari n'ibendera hari n'ubusitani bwiza.

Intebe nyinshi zifite udupine hasi z'umukara, ziri mu cyumba cyiza, hicayemo abantu batatu ndetse imbere yaho hateretse n'ameza.

Inyubako nini nziza cyane, irimo amatara ari kwaka, harimo ibitanda bishasheho amashuka y'umweru, hariho n'imisego ibiribiri, harimo mudasobwa harimo n'intebe zifite udupine, harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ubusitani bwiza bwubatsemo inzu nziza cyane y'amatafari ahiye hari n'imihanda yerekeyeyo, ubwo ubustani buteyemo indabyo nziza, ndetse harimo n'uduti dusize amabara y'ubururu n'ay'umuhondo.

Inzu nziza ebyiri zifite ubusitani bwiza burimo n'indabo ndetse inzu imwe irageretse, iteye irangi ry'umukara ndetse n'iry'umuhondo.

Icyumba kinini cyane kirimo amatara arikoka hasi gifite amakaro y'ubururu ndetse n'ay'umuhondo ndetse inyuma yacyo harimo indabo harimo intebe nziza zegamirwa ingufi ni ndende hasi zigiye zifite n'udupine isize irangi ry'umweru.

Abaganga bane bari mu cyumba cy'ivuriro, imbere yabo hari impapuro z'isuku, hari amacupari arimo amazi n'andi arimo imiti, bambaye amataburiya y'imweru, bafite n'imisatsi myiza y'umukara.

Umugore n'umugabo baricaye bari kuganira, umugore yambaye ikanzu y'igitenge, umugabo yambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu, afite na kuteri mu ijosi. Barimo kurebana, inyuma yabo hari indabyo ndetse hariyo n'insina ndetse inyuma y'umugore hari inzu yubakishije amatafari ahiye, hari n'ibase n'ibiti.

Inzu nziza cyane, umuhanda werekeye muri iyo nzu, hari umucaca mwiza urimo utwatsi twiza turi gutohagira, inzu zifite ibyumba byinshi biteye irangi ry'umweru buretse ko hari n'amabati atukura.

Inzu nziza nyinshi cyane ndetse kuri izo nzu ku muryango hari ibyapa byanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza, ndetse umuryango mukuru ufite ibyuma by'ubururu mo imbere harimo ibiti byakuze cyane, harimo inzu zubakishije amabati y'ubururu ndetse impande yaho hari kaburimbo.

Imashini yanditseho akajambo Elekta, iri gukoreshwa n'umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ijya gusa n'umweru, yambaye ipantaro y'umukara, impande hari imashini ndetse n'aho yerekeje amaso hari indi mudasobwa.

Inzu nini cyane yubatse igeretse, imbere y'iyo nzu hari imodoka nyinshi z'umukara, imbere y'iyo nzu kandi hari umuntu ucuruza amayinite mu mutaka, ikindi yubakishije amatafari ahiye, inyuma yaho hari.

Inzu nziza cyane iteye irangi ry'umweru mo imbere harimo intebe, hakabamo n'ubwiherero bw'abana ndetse harimo n'udupupe abana bakunda gukinisha.

Inzu nziza cyane. Hari icyapa kiri mu busitani gikigijwe n'indabo, kiriho amagambo, yanditswe, mu ibara ry'umweru, riri mu cyatsi, mu rurimi rw'icyongereza. Ndetse uwo muhanda munini ugana kwayo mazu impande yawo hariho n'ibiti.

Inzu nziza ndende y'amagorofa imbere y'iyo nzu harazamagambo mu rurimi rw'icyongereza inyuma yayo kandi hari ibiti binini ndetse muri iyo nzu harimo n'ubusigariye harimo utundi tunyu tw'umuhondo ndetse n'ibendera.

Inzu nziza cyane, nini, irimo ibitanda byo kwa muganga, irimo mudasobwa, imashini, ndetse n'intebe nyinshi. Ikaba iteye irange ry'umweru.

Inyubako nziza irimo ibitanda by'abarwayi, harimo ibitanda bishashe neza biriho amashuka y'umweru ndetse hariho n'ibirimo amashuka ajya gusa n'ubururu.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo abaganga batatu, barishimye, babiri ni abakobwa, undi ni umugabo, imbere yabo hari amazi ari mu icupa, ndetse n'akandi kantu k'ubururu kameze nk'agashinzemo agati, ndetse n'impapuro z'isuku.

Ivuriro ryubatse neza ry'i Kigali, ku muryango w'iryo vuriro urafunguye igice kimwe, hahagaze umudamu afite umwana, wambaye ingofero y'umuhondo, amukindikije igitambaro cy'umweru, arimo areba mu bitaro mu imbere.

Inzu nziza cyane ifite amadirishya menshi cyane y'ibirahure harimo n'amarido y'umweru inzu isize irangi ry'umuhondo, imbere kuri iyo nzu harimo amakositara menshi ndetse handitseho n'amagambo y'icyongereza, imbere y'iyo nzu hari indabo nziza z'umuhondo n'iz'icyatsi.

Inzu nziza cyane, irimo imigezi bakarabiramo, irimo n'amakararo, iteye amarange y'imyeru, amatara arimo kwaka ndetse hariho n'ahantu ho gushira imyanda mu ndobo.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe, ikigo gikikijwe n'ibyuma, amayesikariye yerekeyeyo ndetse hariho n'abantu benshi baje kwivuriza muri icyo kigo cy'ubuvuzi.

Icyumba cyo kwa muganga, kinini, kirimo amatara ari kwaka, kirimo ibitanda bitandukanye ibinini n'ibito, hariho ibishasheho n'amashuka y'umweru, ndetse iyo nzu isize irangi ry'umweru.

Umugabo uryamye ubyibushye wambaye agakabutura k'umweru n'umupira w'umukara ndetse n'agapfukamunwa, ukuboko kwe kurambitse ku musego w'umweru urimo akabara k'ubururu. Impande ye hari ibidomora, hari insinga, hari amarido y'umweru ndetse hari n'uturabo.

Inyubako nziza cyane irimo amatara ari kwaka, irimo amabara y'ubururu, amabara y'iroze, amara y'icyatsi, amabara y'umukara ndetse n'amabara y'umweru ndetse harimo na mudasobwa n'udutebe twiza.

Inzu nziza cyane, ifite urukuta rw'amatafari ahiye, umuhanda werekeye kuri iyo nzu nawo urimo amatafari ahiye, ikikijwe n'ibiti byinshi cyane n'indabo z'icyatsi ndetse isize n'irangi ry'umweru.

Abantu bicaye mu cyumba, barimo baganira, harimo umuntu uri kugenda abafata amashusho, ndetse imbere yabo hari amazi yo kunywa ari mu macupa, ikindi hari abafite amakaramu bari kwandika n'abandi bafite mudasobwa bari kwandika.

Inzu nziza y'ibitaro, irimo ibyumba biriho n'amarido, harimo ibitanda n'intebe, harimo imashini na mudasobwa n'ibindi....

Inzu nini cyane y'ivuriro irimo ibyumba byinshi, impande yayo hari imodoka y'umukara, imbere yayo hariho indabo z'icyatsi, iyo nzu ifite ibirahure ndetse n'amadirishya n'inzugi, byose ni ibirahure.

Abagabo babiri bari kuganira umwe yambaye ishati y'amaboko magufi undi yambaye agapira k'amaboko magufi k'umweru n'ijere y'umukara ndetse yambayemo n'indorerwamo z'amaso hejuru ya hari kizimyamwoto ebyiri hanyuma kuri umugabo wambaye akantu k'ubururu mu izosi hejuru ye hari ijambo ryanditseho ryitwa irembo.

Abantu bari kugenda, bambaye amapantaro y'imigara n'amashati y'imyeru, b'abagabo n'abagore berekeje mu nzu nziza cyane ndetse kuri iyo nzu hejuru yayo hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza ndetse ahantu bari kunyura hasi hasa n'umukara.

Inzu nziza cyane isize irange ry'umweru harambuyemo umukeka w'icyatsi kibisi harimo intebe, harimo na mudasobwa ndetse harimo n'ameza.

Inyubako nziza y'amagorofa igeretse hejuru kuri iyo nyubako handitseho ijambo ry'icyongereza ,ndetse ikikijwe n'indabo nyinshi nziza hari n' abantu bari kugenda bagana kuri iyo nyubako benshi.

Inzu nini nziza yubakishije amatafari ahiye urugi rumwe rw'ibirahure rurakinguye hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza n'andi yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda avuga ngo aho bakira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Inyubako nziza isize irangi ry'umweru ku rutendezo rw'iyo nyubako hasize irangi ry'icyatsi no ku madirishya y'ibirahure hasize irangi ry'icyatsi mbese ku rutendezo rw'iyo nzu hariho umuntu uhagaze wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi.

Inyubako nziza irimo ibitanda biryamyeho abarwayi, hari ibishasheho amashuka y'umweru n'inzitiramubu hejuru z'imyeru ndetse hagati hari akantu kameze nk'agati gasize irangi ry'umuhondo, harimo abarwayi bahagaze ndetse n'abandi baryamye ndetse n'abaganga.

Inzu nziza cyane, ifite umuhanda werekeyeyo urimo amapave, ukikijwe n'ibiti bitandukanye harimo n'iby'imbuto ndetse n'indabo nyinshi nziza, ifite ubusitani ndetse muri uwo muhanda harimo abantu barimo bagenda.

Agaterefoni k'amatushi kari kubabara saa yine n'iminota cumi n'itanu karimo amabara y'umweru ndetse n'amabara y'umukara.

Umuntu uri muri siporo. Yambaye ipantaro imufashe cyane. Yambaye isengeri y'umweru. Yazamuye amaboko cyane. Imbere ye hari ururabo, rufite amashami meza.

Umukobwa uri gukora siporo. Yicaye ahinnye amaguru. Yambaye ipantaro y'umukara, yambaye ibirenge n'isengeri y'umukara, afite imisatsi miremire iri gukora hasi. Araramye, impande ye hari icupa ry'amazi.

Amakorogati, amapapiyejenike, ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu gukora isuku, imiti y'amenyo, amasabune yo gufurisha imyenda, biragaragara ko aha hantu ari mu isoko.

Amacupa atatu asa neza. Arateretse aringaniye, arapfundikiye, apfundikije imifuniko y'umweru. Aya macupa inyuma hari amagambo ahanditse mu ibara ry'umutuku, ndetse n'ibara ry'ubururu. Aya magambo yanditse m'ururimi rw'icyongereza.

Umugabo aricaye, ari kunywa amazi mu icupa, yambaye agasengeri k'umukara ndetse ku kaboko ke hafi y'intoki hari akantu k'icyatsi, kameze nk'isaha, umutwe wose ntabwo uri kugaragara n'amaso, igice cye cyo guhera ku mavi ntabwo kirimo kugaragara.

Umuntu uri muri siporo wambaye inkweto z'umweru, aricaye hasi arambuye amaboko, afite ekuteri mu matwi, yashyize telefoni ku kaboko niho yayizirikiye, yambaye ipantaro yumukara ndetse n'isengeri y'umukara. Ikindi igice cyose cye guhera mu ijosi nti kiri kugaragara; inyuma ye hari indabo.

Ibiganza bibiri, uwo muntu nyiri ibyo biganza ntabwo ari kugaragara, afite mu ntoki ze karoti, inyanya, voka isatuye irimo n'ikibuto, impande yaho hari utuntu tuharambitse tubiri tw'umutuku, ndetse n'inkweto zirimo n'amarasi ndetse n'umukeka uzinze.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yazamuye amaboko ye yose, afite imisatsi miremire ikora mu mugongo, yambaye agasengeri k'umweru n'ipantaro y'umukara, amaguru ye n'ibirenge ntabwo biri kugaragara.

Intebe z'amoko menshi atandukanye ziri ahantu mu nzu nziza nini isize irangi ry'umweru ndetse zimwe n'umukara izindi nazo ni umwe.

Umugabo wambaye umupira w'umweru afite agatambaro k'ubururu ari kukikandisha ku maboko, ibice by'umubiri bye byose ntabwo biri kugaragara usibye amaboko ndetse n'inda n'umugongo.

Abantu babiri b'igitsina gabo batari kugaragara mu maso yabo, umwe ni umuganga yambaye imyenda y'akazi, undi yambaye umupira w'umukara, afite umugozi w'umuhondo yawuzinguranyije mu ntoki ze, ukundi kuboko muganga ari ku kurambura

Umuntu w'igitsina gore ari kunywera amazi mu icupa rifite amabara y'ubururu n'umweru, bigaragara ko afite inyota, yambaye umupira w'ubururu urimo amabara y'umweru n'icyatsi, yifubitse igitambaro cy'umweru, kandi igice cy'umubiri we cyo guhera mu rukenyerero ntabwo kigaragara, ndetse n'umutwe n'amaso ntabwo bigaragara.

Umukobwa wambaye agapira k'umutuku keza yambaye ekuteri mu matwi arimo anywa amazi mu icupa, afite n'imisatsi y'umukara myiza.

Umuntu uri kugaragara amaboko ndetse n'inda n'intugu, ibindi byose bikaba bitari kugaragara, akaba yambaye agapira k'umweru, mu imbere yambariyemo ak'umukara, akaba yicaye ari kwikanda ku nkokora.

Ifoto irimo amafoto menshi, harimo iy'abantu barwaye umutwe, iy'abantu barwaye inkorora, batari gutekereza neza, abantu bahuye n'ibibazo byinshi bitandukanye.

Umugabo ubyibushye wambaye agakomo mu kaboko k'ibumoso, arimo kwisuka ibintu biri guturuka mu icupa ry'umweru bisa nk'ifu, yambaye agasengeri k'icyatsi aranahumirije.

Abantu batari benshi cyane, barunamye barimo gukora k'umurwayi uryamye ku gitanda kiriho amashuka y'ubururu, inyuma yabo hari ameza hariho igitambaro cy'umweru ndetse n'intebe z'umutuku n'izu.

Ameza y'umweru ateretseho isahani iriho amagi, imbuto, umugati, indi sahani iriho inkeri za kizungu, iriho n'imineke, akandi kameze nk'agatebo kariho amaronji, kariho insenda, indimu n'ibindi bintu byinshi by'imbuto zitandukanye.

Umuntu ufite inyota nyinshi cyane yambaye agapira k'amaboko magufiya afite ubwanwa ari kunywa amazi mu icupa, afite amatwi n'ubwanwa ni byo biri kugaragara amazuru ari kugaragaraho gatoya n'umutwe n'amaso ntabwo biri kugaragara ndetse n'igice cyo hepfo cyose ntago kiri kugaragara.

Umuntu utari kugaragara igice cyo hejuru, kugeza mu ijosi. Amaboko ye niyo ari kugaragara, n'inda n'umugongo. Ukuboko kwe agufatishije ku nkokora hamwe n'agatambaro.

Umukobwa uri muri siporo yambaye ipantaro, yambaye ibirenge, akandagiye ahantu ku kintu cy'umukara, akaboko kamwe gafashe munsi y'ikirenge ku mano, ukundi kuboko kuri mu mugongo, afite imisatsi y'imikara miremire.

Umumama uri mu myitozo ngororamubiri arunamye, amaguru arayapfukamishije, yambaye imyenda y'umukara ndetse apfukamye ahantu hasa n'ubururu.

Imuntu urambaraye hasi, afite imisatsi y'umweru, arishimye cyane ari guseka, ashinze ukuboko hasi, impande ye hari ijambo ryanditse mu rurimi rw'icyongereza ikindi impande ye harambitse umuneke, amarongi akasemo kabiri, ibinyomoro n'amatunda.

Inyubako nini nziza cyane amatara aracanye harimo intebe zifite udupine hasi harimo abantu bicaye harimo n'abandi bantu bahagaze harimo imipira yo gukina umupira wamaguru ndetse n'iy'amaboko.

Udukapu tubiri tw'umutuku, twanditseho ikimenyetso cy'umusaraba, hagati hateretse icupa ry'umweru. Inyuma hari abantu bambaye imyenda y'imihondo ndetse n'abandi batagaragara ibice byose, bagaragara amaguru yonyine, bambaye amapantaro y'imikara.

Umugabo wicaye ku gitanda kwa muganga yicaye ukuguru kumwe kuri hasi ukundi kuri ku gitanda, ari kumwe na muganga ari kumupfuka ikirenge, bigaragara ko yavunitse, muganga yambaye baji ndetse n'isaha n'ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, uyu mugabo kandi ipantaro ye ukuguru kumwe irahinnye.

Umuntu utari kugaragara ibice byose usibye intoki zonyine, ari gusuka amazi mu karahuri ariko nubwo arikuyasukamo akarabure karacagase ntabwo kari kuzura amazi.

Abantu b'abahungu bane bari muri siporo, uko bahagaze bakoze igishushanyo cya mpande enye, hagati yabo hari udushushanyo tw'ubururu ndetse n'ak'umweru kari hagati y'utw'ubururu dutandatu, tugiye twanditsemo amagambo atandukanye.

Abantu babiri bavuye muri siporo umwe yambaye agabutura k'umukara n'isengere y'ubururu afite n'icupa ry'ubururu mu ntoki, yambaye n'agakoma k'umukara, umutwe we ntabwo ugaragara ndetse guhera ku matako gusubiza hasi ku maguru nawe ntago agaragara, undi yambaye agakabutura k'umukara, agapira kajya gusa n'umweru ariko atari umweru werurutse n'icupa mu ntoki bari kunyura ahantu hari indabo nyinshi.

Umugabo uri muri siporo, yambaye isaha ku kaboko, aratandaraje ndetse ukuboko kwe kumwe kuringaniye n'ukuguru kwe kumwe, ukundi kuboko kurahinnye ndetse, igice cyose cyo hejuru guhera mu ijosi ntabwo kiri kugaragara.

Imbuto nyinshi zitandukanye ziribwa harimo imineke, harimo amaronji, harimo kokombure, harimo intogi ndetse impande yaho harimo n'utwuma.

Umuntu w'igikara cyane kunywa amazi mu icupa risa n'ubururu, uwo muntu agaragara intoki n'umutwe n'amaso n'amazuru, ibindi bice bye byose ntago biri kugaragara.

Umuntu uryamye kwa muganga w'igitsina gabo yarakomeretse, umuganga arimo kumudoda ndetse aho aryamye hari impapuro, yambaye agakabutura, uwo muganga nawe yambaye agapira k'umutuku.

Ifoto iriho abantu benshi batandukanye, hagati muri iyo foto hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, hari abantu bari gukina umupira, abandi bari kunywa amazi kandi bafite inkoni mu ntoki abandi bafite imipira yo gukina mu ntoki, abandi bari gukina umugozi.

Umuntu utagaragara ugaragara intoki zonyine ari gusuka amazi mu gakombe yifashishije ijage. Ayo mazi ageze mu gice ntago yari yuzura.

Abagabo batatu, umugabo wa mbere yambaye isengeri y'umutuku, hariho n'icyapa kiri kuri iyo seri kiriho imibare gatanu gatatu zeru kabiri. Undi aramufashe, amufashe mu mugongo aramukomeje, yambaye akajire k'umuhondo ndetse n'undi nawe ukurikiraho yambaye ingofero n'akagire k'umuhondo.

Umuntu w'umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri, aratandaraje cyane, yambaye agasengeri gatoya gahishe amabere, afite imitsatsi miremire y'umukara, ariko umutwe we n'amaboko ntabwo biri kugaragara.

Umugabo wambaye agapira k'umukara, akaba afite umusatsi muke uringaniye, ari kunywera amazi mu icupa ry'umweru ndetse mu maso he ntabwo hagaragara neza n'umutwe wose ntabwo ugaragara ndetse no guhera mu gice cy'urukenyerero kugera hasi ntabwo igice cyose kiri kugaragara.

Umugabo wambaye isengeri y'icyatsi arabyibushye n'agakomo k'irose mu kaboko arimo kwisukaho ibintu biri Gutumuka nk'ifu mu maso ndetse no ku maboko guturuka mu icupa igice cy'umubiri we hasi mu rukenyerero n'aho kiri kugaragara ndetse n'umusatsi we ntabwo urimo kugaragara.

Umugabo ubyibushye cyane ufite ubwanwa bwiza bw'umukara, yambaye isaha y'umukara ari kunywa amazi mu icupa, yambaye n'agapira k'ubururu arararamye.

Ikiganza kitari kugaragara nyiracyo, ndetse gifashe ku nkokora y'undi muntu, nawe utari kugaragara, bivuze ko bose nta n'umwe uri kugaragara usibye ayo maboko y'intoki byonyine.

Mudasobwa bahanitse kukuma gafite imipine ine ushoboranga hasi, iyo mudasobwa irimo amashusho atari kugaragara neza, ako kuma ntabwo kambyibushye cyane ariko hasi karagaye.

Abantu bahagaze mu cyumba muri icyo cyumba hejuru y'abantu kanditse amagambo y'icyongereza hariho n'agasaraba ku mutuku kari mu kazeru, haryamye umuntu wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara ndetse inyuma ye hari umuntu umufashe ku matama wambaye akajire k'umutuku n'agapira.

Amacupa atandatu arimo isabune yo gukarabisha intoki, impande yaho hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Abantu benshi b'urubyiruko bambaye amasengeri y'imyeru, bambaye amakabutura y'imikara n'inkweto, bari mu myitozo ngororamubiri, harimo abandi bahagaze bari kureba bitwikiriye n'imitaka.

Umusore wambaye agapira k'umweru, arararamye amaso ye ntabwo ari kugaragara n'amazuru ye ari kugaragara izuru rimwe, hanyuma n'impanga ntago igaragara, yambaye ekuteri z'umweru mu matwi, ari kunywa amazi ari kuyanywera mu gacupa k'umweru gafite umunwa w'ubururu.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri arambuye amaguru ye neza arayaringanije n'amaboko ye yose aringanije n'amaguru, afite imisazi myiza miremire iri kugwa mu mugongo.

Umugore uri muri siporo wambaye agasengeri k'umukara n'ipantaro yicaye ku k'umukeka, imbere ye hari mudasobwa kandi imbere ye nonene hari agacupa k'amazi n'utundi tuntu bakoresha siporo tubiri tw'umutuku, afite n'imisatsi myiza miremire.

Umusore wambaye ubusa umutwe we ntabwo ugaragara n'igice cyo guhera mu rukenyero nacyo ntabwo kigaragara, ashushanyijeho tatuwaje mu mabara abiri, iry'ubururu ndetse n'iry'umutuku.

Inyubako nziza cyane irimo amatara, irimo ibitanda batwara ho abarwayi, by'ubururu, ntebe zifite n'udupine tw'umukara tune hasi, ndetse harimo n'inda.

Umugore witeye isharupe y'umweru yambaye agapira k'ubururu karimo n'amabara y'icyatsi n'umweru n'ubundi, afite icupa ari kunywa amazi, iryo cupa ni iry'umweru rifite umunwa w'ubururu, afite agasatsi gake karinganiye.

Inzu nziza cyane yiganjemo amabara y'ubururu ku marange ayisize, kuri iyo nzu hejuru handitseho ijambo ryanditse mu rurimi rw'icyongereza kandi hari n'indabo z'icyatsi, hariho n'abantu buriye urwego n'abandi bari hasi.

Umuntu bigaragara ko ari umukinnyi w'umupira, yambaye inkweto za siporo n'immyenda ya siporo, ukuboko kwe kumwe yagufatishije ku mupira w'umutuku ukundi agufatisha ku mupira w'icyatsi ndetse impande ye hari n'amazamu.

Umukobwa wambaye isengeri y'umukara, ipantaro y'umukara, afite terefone ku kuboko, ari kunywera amazi mu icupa ry'umweru, afite imisatsi yumukara miremire myiza, ikindi agaragara ugutwi kumwe ndetse no mu maso ye ntabwo hari kugaragara n'igice cyo guhera mu gihimba ukageza ku maguru ntabwo kirimo kugaragara.

Umusore wambaye ekuteri mu matwi z'umweru arasamye ari kunywa amazi mu gacupa k'umweru gafite umufuniko w'ubururu, yambaye agapira k'urukamuhambiriye inyuma ye hari indabo z'icyatsi.

Umukobwa muremure uri muri siporo akandagiye ku mukeka w'umukara inyuma ye hari umukeka w'ubururu afite imisatsi miremire arunamye ukuboko kwe kuri mu mugongo ukundi yagufatishije munsi y'ikirenge.

Abagabo babiri bavuye muri siporo. Buri umwe akandagije ukuguru kumwe hasi ukundi kuri mu kirere. Umwe yambaye agakabutura k'umukara n'umupira w'umutuku. Undi yambaye ipantaro n'umupira w'umukara, hari ikintu bafite mu ntoki kimeze nk'ibuye, inyuma yabo hari intebe hari n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Umuntu utari kugaragara ibice byose, igice cy'umutwe n'igice cyo guhera mu gihimba gusubiza ku maguru hagaragara ama maboko n'umugongo, yambaye agapira k'umweru , ipanantaro y'umukara akenyeje umukandara w'umweru, afite mu ntoki ze ukuboko k'undi muntu utari kugaragara wambaye ikanzu y'ubururu, umutwe w'umuntu ntabwo ugaragara nawe igice cye cyo hasi cyose ntikigaragara.

Abantu bicaye mu nzu isize irangi ry'umweru, hagati yabo hateretse ameza arambitseho imashini ndetse bambaye udupfukamunwa bose bambaye ingofero bari kureba amashusho ku mashini.

Umubyeyi n'umwana barishimye cyane biyicariye ku gitanda kirambitse hasi gishasheho ishuka ririmo utubara tw'umweru n'utw'icyatsi n' tw'umukara. Uwo mumama yambaye iribaya ndetse afite n'umusatsi mwinshi, impande yaho hari ibitenge n'udukapu tw'utumarete.

Imodoka ifite umupine inyuma ihagaze mu muhanda w'umukara, iyo modoka yitwa imbangukiragutabara, imbere yayo hari indabo hari n'ibiti ndetse impande yayo hari n'amapave asize irangi ry'umweru niry'umukara.

Agaterefoni gatoya k'amatushi karambitse ahantu hasa n'umweru, kari kubara saasaba na mirongo ine n'ibiri n'amasegonda mirongo icyenda na rimwe ndetse karimo amabara y'umukara.

Icupa rinini riri gusuka amazi mu gikombe k'ikirahure, ayo mazi ntabwo yuzuye agarukiye mu gice.

Umugabo wicaye mu mucyaca afatishije amaboko ye yombi itako ari kurikanda yambaye agaseri k'umukara ndetse n'agakabutura k'umukara igice aricyo cyose cyo hejuru ntabwogo kiri kugaragara usibye amenyo n'umunwa naho guhera mu ijosi ntabwo hagaragaraye.

Umugabo munini ubyibushye cyane wambaye isengeri y'umweru, akaba afite n'umusatsi, yambaye isaha yikoreye amaboko, ayashize inyuma mu irugu ndetse ari gukorera siporo ahantu hari ibyatsi.

Usutamye imbere ye hateretse ameza, ayo meza ateretseho akantu k'ubururu. Impande ye hari umugabo wabyibushye cyane mugufi uri kwiruka. Afite ukuboko kubyibushye cyane afite n'imisatsi miremire myiza.

Igishushanyo cyanditseho amagambo y'icyongereza mu ibara ry'ubururu n'iry'umweru, hari inzu, hari abantu bashushanyije n'utuganza ndetse n'uducupa tubiri n'umubare cumi na gatanu.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse akaba yambaye n'akantu k'ubururu mu ijosi, afite ikintu cy'umutuku mu ntoki kimeze nk'umupira imbere ye hari kizimyamoto ndetse hariho n'utundi tuntu tw'utwuma.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye agasengengeri kajya gusa n'icyatsi. Akaboko ke yakazamuye, akandi gafatisha ku nkokora, afata no mumugongo, afite imisatsi ye.

Umugabo munini ubyibushye, uteruye icyuma cy'umukara cya siporo, ahagaze hagati mu isoko, rigurishirizwamo amagi, karoti, imitobe y'imbuto, imboga, inanasi, inyama n'ibindi.

Ibikapu bitatu by'umutuku birimo n'amabara y'umukara n'imashini, birimo ibikoresho bitandukanye hari ikirimo amacupa arimo imiti ndetse n'impapuro z'isuku.

Abantu babiri bambaye imyenda y'imituku ndetse bambaye n'ingofero z'imituku bipfutse mu maso ibintu by'umweru. Batwaye ikintu kimeze nk'ingobyi mu ntoki gisa n'umuhondo, impande yaho hariyo ikindi gisa n'umuhondo kimeze nk'ingobyi na cyo kinini.

Abantu babiri barimo kurwana. Umwe yambaye imyeru undi yambaye ubururu, uwambaye ubururu afite imisatsi miremire, barimo mu ruzeru rw'umukara ndetse arimo n'irindi bara ry'umuhondo.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri afite ukuboko kumwe kubyibushye ukundi kutabyibushye, yazamuye amaboko ye ahuza intoki ze z'iburyo n'ibumoso, afite imisatsi miremire ipfunditsemo akagozi kajya gutukura.

Kwa muganga hari abaganga bambaye imyenda y'akazi, harimo umwe w'umugabo wambaye agapfukamuwa yambaye n'amataratara, harimo undi wambaye ikote na karuvati ry'umukara, harimo abarwayi bicaye ku bitanda ndetse harimo n'intebe.

Imbuto z'amoko menshi atandukanye harimo imineke, harimo utuntu dukozwe mutuzeru duturuka ku mabuye y'i radiyo hakabamo inanasi hakabamo amatundagamo ibinyomoro n'ubunyobwa, n'ibinini bya ramasine.

Icyapa gishushanyijeho umuntu biragaragara ko umuntu ara avuye muri siporo, afashe itako rye arimara rikanda ari gukanda imitsi, icyo cyapa cyanditseho jano ofu sapoti medesine andi terapi. Noneho hasi kuri icyo cyapa handitseho opereshoni akisesi.

Utuntu dukozwe nk'udukarito dutandukanye, hari tubiri tw'icyatsi, hari utundi dutatu tw'umweru. tugiye turambitsemo amavuta y'amazi, amavuta y'ibikotoro, amasabune, imti isukura intoki ndetse harimo n'imiti bakoresha basukura amenyo.

Abantu babiri bavuye muri siporo umwe apfukamishije ivi rimwe afite akantu k'umuhondo mu ntoki yambaye inkweto z'ingozi, imbere yabo hari ibintu bimeze nk'amasabune by'ubururu ndetse biramutse ku kayetajeri k'umutuku.

Umubyeyi afite terefoni ari gukongeza mu kanwa k'umwana we amufashe inyuma mu gatwe. Uyu mubyeyi yambaye agapira gatukura n'akandi kajire k'ubururu.

Umugabo uri muri siporo wambaye inkweto za siporo, yambaye igakabutura k'umukara n'umupira w'umukara. Akandagiye ku kintu gifite amabara y'umweru ndetse n'ay'umukara wagira ngo ni ameza. Inyuma ye hari indabo ndetse akandagiye no ku mucyeka.

Umuntu uryamye arambaraye hasi, undi amufashe ukuguru agushyira ku rutugu rwe, kandi yambaye n'isaha y'umukara, uryamye yambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara n'amasogisi y'umweru, ariko umutwe we ntago uri kugaragara, inyuma yabo hari indabo z'icyatsi.

Umukinnyi umwe, aricaye ku gitanda kwa muganga, yambaye inkweto z'umukara n'amasogisi y'umukara, yavunitse akaguru, umupira yambaye w'umukara, inyuma handitseho umubare makumyabiri na rimwe, inyuma ye hari abandi bakinnyi b'umupira.

Ifoto irimo ibintu byinshi bitandukanye hejuru y'ifoto hari ijambo ry'Icyongereza ibyo bintu harimo impakasi, itoroshi, buje, urushinge, ikimenyetso cy'umusaraba gitukura, utuganza tubiri n'intoki zatwo, impapuro z'isuku, imiti y'amenyo, ibipimo n'ibindi.

Umugore wifubitse igitambaro cy'umweru, afite marete ku kaboko ari gusoroma amababi, impande yaho hari insina ndetse afite n'usatsi w'umukara umeze neza.

Icupa riteretse ry'umweru ripfundikiye, ryanditseho amagambo y'icyongereza, mu ibara ry'ubururu.

Icupa rinini ripfundikiye n'umufuniko w'umweru, iryo cupa naryo n'umweru, inyuma kuri iryo cupa mu ibara ry'ubururu rihari handitsemo amagambo menshi y'icyongereza, hashushanyije n'akantu kameze nk'akanyenyeri.

Ishyamba ry'ibiti bitohagiye ririmo igiti kimwe gifite amababi y'umweru guhera hasi kugera hejuru mu mutwe wacyo, inyuma ni ahantu hasa nkahijimye.

Imiti ya kinyarwanda irambitse ku makoma y'icyatsi. Hariho utuntu tumeze nk'udutebo tw'umweru turambitsemo imiti. Hari imiti ikozwe nk'uturagara ikozwe nk'uturayi nindi ikozwe nk'ubudodo.

Igitebo kirimo indabo zikiri ntoya zo gutera, umuntu ashyizemo ibiganza biragaragara ko ari umugore wambaye ikanzu y'icyatsi, ariko ibice by'umubiri bye byose ntabwo biri kugaragara usibye intoki zonyine.

Amacupa menshi atandukanye, ateretse hasi ndetse impande y'ayo macupa hateretse akameza gatoya. Ayo macupa arimo ibinyobwa bitandukanye.

Ishyamba rinini cyane, ryakuze. Hagati muri iryo shyamba, nta biti birimo. Hahagaze abantu b'abagabo. Bambaye amapantaro y'amakoboyi ndetse abandi bambaye n'amakoti barimo bagenda.

Indabo nyinshi cyane hari izirimo amabara y’ umutuku, izindi zirimo amabara y’ umuhondo, izindi zifite amabara y’ icyatsi cyibisi, izindi zisa n’ umukara.

Abantu babiri uw'igitsina gore n'uw'igitsina gabo, uw'igitsina gabo yambaye umupira w'umutuku, ikote ry'umukara ndetse kuri uwo mupira w'umutuku hari n'irindi bara ry'umweru, asa n'uri mu ndabo ndetse uwo mugore bari kumwe yambaye umupira w'umweru yiteze n'agatambaro gasa n'ubururu.

Icupa rinini ririmo umuti usukura intoki, rifite umupfundikizo w'umweru, riteretse neza, kuri iryo cupa inyuma hari amagambo yanditseho y'icyongereza.

Uduti baboshyemo umukeka turambitseho imiti myinshi itandukanye ya kinyarwanda, harimo udutebo twinshi cyane, harimo uturimo indabo, utundi turimo imiti isa n'umweru, indi isa n'umukara ni ibyo.

Indabo nziza z'icyatsi udukombe dutatu tw'umutuku ndetse izo ndabo ahantu ziteretse harasa n'umweru.

Ishyamba rinini cyane ripfukiriye ririmo ibiti byinshi ibito n' ibinini. Harimo umugabo ubyibushye urimo asoroma utubuto twaranze kuri ibyo biti ndetse arishimye cyane yambaye n' agapira k'umweru.

Ikarito y'ubururu kuri iyo karito hari akabara k'umutuku kanditsemo imibare makumyabiri ku ijana, mirongo itanu ku ijana ndetse n'andi magambo y'icyongereza. Hariho n'utundi tubara tw'umuhondo n'irindi bara ry'ubururu ryanditse mu magambo y'icyongereza.

Abantu bane umwe ara ahahagaze abandi bafite udutebo, barimo gusoroma icyayi ndetse harimo n'abicayemo hagati mu cyayi.

Indabo ebyiri z'icyatsi. Buri rurabo rufite amashami ane. Buri shami rigiye riganyijemo utundi dushami tune. Noneho, zirambitse ahantu h'umweru.

Amacupa ane arimo imiti, apfundikije imifuniko y'umweru, inyuma kuri ayo macupa handitse amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Iguriro ry'ibintu byinshi bitandukanye, harimo imiti, hakabamo amacupa, hakabamo indabo, hakabamo n'utundi dukoresho two mu rugo.

Ibiti bifite amababi meza atohagiye ndetse hariho n'ibiti birebire byakuze, biri hejuru y'ibindi, hagati muri ibyo biti, hasi harimo igicucu, harambitsemo uduti tumeze nk'imbaho.

Umugore ukenyera igitenge cyiza kirimo amabara y'umukara, ay'umutuku, ay'umuhondo ntabwo ari kugaragara igice cyose ari kugaragara ukuboko, amaguru ntagaragara, igice cyose cyo guhera mu nda kuzabona nacyo ntabwo kigaragara, arimo araca uturabo.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti byiza birebire bipfutse ndetse iryo shyamba ririmo n'ibihuru, bigaragara ko ari indabo zirimo.

Amasorori abiri harimo amazi akaba arimo n'imboga noneho hasi ahantu hateretse hakaba hari andi mababi y'imboga asa n'icyatsi.

Ururabo rurambitse hasi ku kantu k' umukara kameze nk'ikirago, muri urwo rurabo hagati hari akantu k'umweru kameze nk'agati, urwo rurabo rugiye rufite amababi make atatanye.

Icupa ry'umuhondo rifite umufuniko w'umutuku, ripfundikiye riteretse neza, impande yaho hari akantu k'umweru, ndetse impande yaho hari ibindi bintu bikozwe nk'indabo by'icyatsi bihateretse.

Ibara ry'umutuku ryanditseho amagambo y'Icyongereza, icupa rinini impande yaryo hari indabo, iryo cupa rirapfundikiye kandi iryo cupa ni umweru, inyuma ku icupa hari amagambo y'Icyongereza aryanditseho.

Ifoto irimo amafoto menshi atandukanye , hariho ifoto irimo indabo, indi ikabamo imboga n'indi ikabamo iindabo z'icyatsi, indi ikabamo indabo z'umuhondo, iz'umukara, indabo nyinshi zitandukanye.

Ameza arambitseho amacupa abiri y'umweru n'irindi cupa rya gatatu ry'umuhondo, ayo meza arasa n'umuhondo hejuru y'ayo macupa hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Amacupa ane y'imiti yanditseho amagambo y'icyongereza abiri ni umweru ande abiri ni umuhondo.

Ururabo runini cyane rwiganjemo amashami meza; ay'icyatsi kibisi ndetse n'ay'umuhondo n'andi ajya gusa n' umweru.

Amacupa menshi atandukanye yose arapfundikiye, amwe arimo imiti, andi arimo amavuta, amwe arimo imiti y'amavuta andi arimo imiti y'amazi.

Umuntu wambaye ikanzu y'umukara y'amaboko maremare, afite umusatsi mukeya, hejuru ye hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza ndetse impande ye hari utuntu tubiri dukozwe nk'udusanduku turimo amabara y'icyatsi n'ay'umutuku.

Ibikombe bine by'mweru kimwe kirimo utubara tw'umukara dukeya, inyuma kw'ibyo bikombe hashushanyijeho uturabo tw'umuhondo, hakaba handitsiho n'amagambo y'icyongereza ndetse imbere y'utwo dukombe hari inzuki n'indabo z'umuhondo.

Ibihoho by'umukara birimo itaka biteyemo ibiti, buri gihoho giteyemo ibiti bibiri bibiri ndetse ibyo biti bifite n'amashami menshi.

Ururabo rwiza rw'icyatsi, impande yarwo hari ibintu birukikije nabyo bisa nk'indabo z'umutuku n'iz'umukara.

Indabo nyinshi, z'icyatsi kibisi, zirimo n'andi mabara y'umuhondo, urebye neza wagira ni igihuru.

Icupa ririmo umuti uvura amibe ryanditseho Rieshi hasi y'iryo cupa handitseho Reshi. Ni yo yonyine ishobora guhangana na amibe ku kigero cyo hejuru.

Icupa ry'umweru ripfundikiye neza riteretse ahantu hijimye cyane hasa n'umukara, iryo cupa inyuma yaryo handitse amagambo yo m'ururimi rw'icyongereza.

Amacupa atatu arambitse ku meza arimo imiti, iyo nzu ateretsemo iteye irangi ry'umweru, inyuma kuri ayo macupa handitse amagambo y'Icyongereza.

Imiti ya kinyarwanda itandukanye, irambitse ahantu ku mukeka usa n'umuhondo, harimo imiti isa n'umutuku, indi isa n'umweru, indi isa n'umukara, indi iri mu gasekuru karambitsemo n'umuhini, indi irambitse ku mbehe.

Amacupa arimo imiti itandukanye ya kinyarwanda. Hariho akazeru kanditsemo ijambo vegani. Kabaho impande yaho indabo z'icyatsi n'iz'umutuku ndetse kuri ayo macupa inyuma hashushanyijeho indabo zitukura, ndetse n'uturabo twi'icyatsi handitseho n'amagambo y'icyongereza.

Ururabo rwiza rufite amababi agaye, atoshye cyane y'icyatsi kibisi ayo mababi akaba ari magufi atari maremare cyane.

Ishyamba ririmo ibiti birebire cyane, byakuze bigeze hejuru amababi araragabanyuka, hasi ho biragaragara ko nta mababi ahari, ikindi hari n'indabo z'imituku.

Amacupa n'ibikombe byinshi biteretse ku meza birarundanye, harimo ibikombe bibyibushye birimo ibintu bisa n'icyatsi, hariho n'ibiririmo ibinyobwa ndetse harimo n'ibikombe by'umweru.

Amavuta menshi y'ubwoko butandukanye arimo ayo kwisiga mu mutwe ,ayo kwisiga mu maso ,harimo amavuta y'amazi n'andi mavuta atari ay'amazi.

Ururabo rw'icyatsi ruriho amashami menshi, buri shami rigiye rigabanyijemo amababi atanu-atanu, ahandi nta mababi ahari yarakokotse arahashira.

Igiti cy'umugwegwe cyayanze, impande yacyo hari indi migwegwe mitoya iburyo n'ibumoso itari yakura neza.

Indabyo nziza cyane, zayanze zifite n'imbuto hejuru uturabo dusa n'umuhondo n'utubuto ndetse zirimo n'umuravumba ufite amababi,

Avoka ikiri ntoya ifite amababi atandukanye meza y'ibara ry'icyatsi kibisi, ndetse n'andi mashami adafite n'amababi na rimwe.

Ururabo ruteye ruri gukura cyane, ruri gutohagira rw'icyatsi, rufite amashami atanyaguje ndetse rukaba rufitemo n'udushami tugiye gusa n'umuhondo.

Indabo z'icyatsi ziteye ahantu hari intabire, zifite n'utundi tubara tw'umutuku.

Amacupa menshi y'ibara ry'umweru apfundikiye neza, inyuma kuri ayo macupa, hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, hari n'ahanditse umubare cumi n'umunani.

Uduti tuboshye mu musambi duteretseho udutebo turimo imbuto zitandukanye, impande yaho hariho n'uduti tuvunaguye, hariho n'izindi mbuto zisutse ahagana hasi.

Agakoresho gakozwe isiniya gateretseho icupa ry'umweru ripfundikiye neza ndetse umufuniko w'umweru, inyuma kuri icyo gicupa handitse amagambo mu rurimi rw'icyongereza, ndetse kw'iyo sahani hari icunga risatuye risa n'umuhondo ndetse n'amaronji.

Ifoto iriho amaronji meza, indimu nziza zitukuye ndetse n'imbuto z'icyatsi zidatukuye cyane.

Amacupa y'imiti ayo macupa hejuru yayo hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza kandi amacupa ahantu ateretse harasa n'umweru amacupa ashushsanyijeho uturarabyo tw'umuhondo, utw'umweru ndetse akaba yanditseho amagambo y'icyongereza.